Bamwe mubaturage bateraniye ku iriba aho bari gukorerwa robine zitandukanye kugira ngo bajye babasha kuvoma bitwaje bimwe mubikoresho bitandukanye birimo nk'indobo, utubido ndetse n'amajerekani.

Umwana wambaye umupira ufite ibara ry'umuhondo n'ikabutura ifite ibara ry'umukara, ari ku iriba aho ari kuvomera mu kabido amazi ari bukoreshe mu bikorwa bye bya buri munsi.

Umwana mutoya wambaye umupira ufite ibara ry'ubururu ari kwigishwa uko yakaraba amazi meza n'isabune, kugirango arusheho kugira isuku bityo arusheho kurwanya indwara ziterwa n'umwanda.

Abana bagera kuri bane baje bitwaje ibikoresho bitandukanye birimo abajerekani kugira ngo babashe kuvomeramo amazi kuri robine, ayo mazi bayakoresha basukura bimwe mu bikoresho byabo ndetse no mu yindi mirimo itandukanye kugira ngo barusheho kwimakazwa isuku.

Bamwe mu baturage bahuye n'abayobozi babo, hagamijwe kureba uko ubuzima bw'abaturage ndetse n'abana babo buhagaze, kugira ngo babashe kunganirwa mu bikoresho bimwe na bimwe bajya bifashisha kugira ngo ubuzima bwabo bubashe kurushaho kugenda neza.

Abajyanama b'Ubuzima mu bice bitandukanye, bahawe amahugurwa kugira ngo bajye barushaho kwita ku barwayi bari mu Midugudu ndetse n'Imirenge baherereyemo, kugira ngo babashe kwitabwaho ndetse bakurikiranwe kugira ngo bahabwe imiti, bityo bakire.

Umuryango mpuzamahanga ushinzwe kwita ku bana, utanga ubufasha butandukanye, mu bihugu bitandukanye, ku bana bafite ibibazo kugira ngo babashe kwitabwaho bityo babashe gukura neza ndetse bazagirire akamaro igihugu cyabo.

Abana bagera kuri batatu, bateraniye ku nkombe z'ikiyaga, aho bari kuvoma amazi kugira ngo babashe kuyifashisha mu bikorwa byabo bitandukanye, nko gusukura imyambaro yabo, guteka ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umubyeyi ateruye umwana we mutoya yaje gusuzumisha kwa muganga wabihuguriwe ndetse kugira ngo abashe kubona imiti bityo umwana we arusheho gukura neza.

Abagore batatu bakenyeye ibitenge, bahuriye ku iriba aho bari gufatikanya ngo babashe kuvoma, umwe afite indobo ari kuvoma, abandi babiri bari gusunika kugira ngo amazi aze.

Abana ndetse n'abagore bateraniye ku iriba aho baje gushaka amazi bifashisha mu bikorwa byabo bya buri munsi, birimo nko guteka, gukaraba ndetse no gusukura imyambaro yabo n'ibindi.

Bamwe mu bajyanama b'ubuzima bari kwigisha umuturage ku buryo yarushaho gufata neza ubuzima bwe, yirinda indwara zandura n'izitandura kugira ngo arusheho kubaka umuryango.

Abana bambaye impuzankano y'ikigo bigaho bari kuri robine aho bari kuvomera mu bikoresho bitandukanye birimo nk'indobo, utubido ndetse bamwe barimo gukaraba amazi n'isabune kugira ngo barusheho kwimakazwa ibikorwa by'isuku.

Abayobozi ndetse n'abaturage bahuriye mu cyumba kiberamo inama, aho abayobozi bari kuganiriza abaturage, ku bijyanye n'ubuzima ndetse na serivisi zabegerejwe kugira ngo barusheho kuzitabira.

Ikigo nderabuzima cyahuriwemo n'abana ndetse n'ababyeyi babo, aho bari guhabwa serivisi zitandukanye, zirimo nko kubarurwa hagendewe ku gupimwa indwara bafite, bityo babashe kwitabwaho.

Umwana muto w'umukobwa wambaye ikanzu ifite ibara ritukura, ari gukarabira intoki kuri robine, aho ari guhashya indwara ziterwa n'umwanda, kugira ngo ubuzima bwe bubashe kurushaho kumera neza.

Umwana w'umuhungu wambaye ishati ifite ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'ikabutura y'umukara. Ari kuvoma ndetse anakaraba kuri robine n'amazi meza kandi asukuye.

Icyumba kiberamo inama cyateraniwemo n'abayobozi batandukanye harimo na minisitiri w'ubuzima mu Rwanda kugira ngo barebere hamwe uko serivise z'ubuvuzi zarushaho kunozwa ndetse abarwayi bakajya bakurikiranwa kugira ngo bakire.

Abana bagera kuri bane, bitwaje ibikoresho bavomeramo amazi, bateraniye ku iriba, aho bari kuvomerwa n'umuntu mukuru, ndetse inyuma yabo hakaba hari imodoka ifite ibara ry'umweru.

Umwana w'umukobwa wambaye impuzankano y'ikigo yigaho, ari gukaraba amazi meza n'isabune akoresheje ibase ndetse n'agakoresho kabugenewe ari kuvomamo amazi.

Icyumba cyabugenewe mu gutangirwamo serivisi z'ubuvuzi, harimo umurwayi uryamye ku gitanda cyabugenewe, aho ari gusuzumwa n'umuganga wabihuguriwe, kugira ngo abashe kumenya ibipimo bye uko bihagaze, bityo abashe guhabwa imiti.

Abajyanama b'ubuzima bari gukingira umwana bamuha imiti, kugira ngo abashe gukura neza afite ubuzima bwiza, bityo azabashe kugira uruhare mu kubaka Igihugu no kubaka umuryango we.

Umwana wambaye ikabutura ifite ibara ry'icyatsi, ari kuvoma mu kidendezi cy'amazi yanduye kugira ngo abashe gukoresha ayo mazi mu bikorwa bitandukanye nko gusukura imyambaro ye n'ibindi.

Umwe mu rubyiruko rwabihuguriwe, ari kugaburira umwana utarageza ku mwaka umwe, anigisha umubyeyi we uko azajya ategura amafunguro, kugira ngo harindwe igikorwa cyo kugwingira k'umwana.

Abana babiri, bari gukaraba intoki, bakoresheje amazi ari kuva muri robine, aho umwana umwe yambaye umupira ufite ibara ry'umutuku, ndetse undi afite ishati n'ipantaro, bisa icyatsi kibisi.

Abajyanama b'ubuzima barahugurirwa hamwe kugira ngo bajye bita ku baturage bari mu mirenge ndetse n'imidugudu igiye itandukanye baherereyemo, mu gihe umurwayi yaba agize ikibazo bagahugurwa uko bagikemura.

Abayobozi baturutse mu muryango Mpuzamahanga Ushinzwe Gufasha Abana, bahurije hamwe abana aho bambaye impuzankano zabo bityo bakaba babasha guhugurwa bagahabwa na bimwe mu bikoresho bizajya bibafasha.

Umubyeyi wikoreye indobo y'umutuku irimo amazi ndetse akaba afite n'indi ndobo mu ntoki ifite ibara ry'umuhondo, nayo avuye kuvomeramo amazi, akaba anakenyeye igitenge.

Ikigo nderabuzima cya Mayange, cyahurijwemo n'abajyanama b'ubuzima baturutse mu duce dutandukanye, twegereye Mayange kugira ngo babashe guhabwa amahugurwa y'uko barushaho kwita ku barwayi.

Umubyeyi uri mu bitaro umaze kwibaruka umwana we w'uruhinja, ari gukurikiranwa n'abaganga babihuguriwe kugira ngo umwana we arusheho kumererwa neza ndetse abashe no kuzakura neza.

Umuryango mpuzamahanga ushinzwe kwita ku bana, ukangurira abana gukaraba amazi meza ndetse n'isabune kugira ngo barusheho kugira isuku ndetse barusheho kurwanya indwara ziterwa n'umwanda.

Bamwe mu bajyanama b'ubuzima bateraniye ku kigo nderabuzima, aho bari bari guhabwa amabwiriza ndetse n'ubumenyi butandukanye, uburyo bazajya babasha kugera ku baturage batuye mu bice baherereyemo, kugira ngo babashe gukurikirana indwara bafite.

Ababyeyi bafite abana bari guhabwa ibikoresho by'isuku kugira ngo barusheho kwita ku bana ndetse barusheho no kwirinda indwara ziterwa n'umwanda bityo abana babo babashe gukura neza.

Icyumba cyabugenewe kiberamo inama, gihurirwamo n'abayobozi ndetse n'abaturage, kikaganirirwamo ibibazo abaturage bafite n'uburyo abayobozi bagomba kubikemura, bityo bigatanga umusaruro.

Icyumba cy'inama giteraniwemo n'abagore ndetse n'abagabo baturutse mu bice bitandukanye, aho umuganga wabugenewe aba ahagaze hagati ari kubahugura hagendewe ku cyo bari kwigaho.

Abana bagera kuri bane bitwaje ibikoresho bakoresha bavomeramo amazi. Baje kuvoma kuri robine aho batonze umurongo kugira ngo babashe kugenda bagerwaho bose, kugira ngo babashe kuvoma amazi bifashisha mu bikorwa bitandukanye.

Abagore n'abagabo bize umwuga w'ubuganga bateraniye hamwe n'abayobozi babo kugira ngo babahugure uko barushaho kunoza imitangire ya serivisi z'ubuvuzi ku barwayi babagana.

Umubyeyi ufite umwana, yaje gusuzumisha umwana we kugira ngo abashe kureba ko nta kibazo afite kugira abashe guhabwa imiti ndetse umwana we arusheho kugira ubuzima bwiza abashe gukura neza.

Imbangukira gutabara zegerejwe abaturage kugirango bajye bihutwanwa ku bigo nderabuzima mugihe bahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye bityo ubuzima bwabo bukaba bwavanwa mu kaga.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano y'ikigo bigaho, bateranijwe hamwe aho basuwe n'abayobozi kugira ngo babashe kureba uko amasomo yabo agenda bityo babashe kongerwamo imbaraga mu burezi bwabo bahabwa.

Umwana w'umukobwa ahagaze ku iriba aho ari kunywera amazi akoresheje intoki ze, imbere ye hakaba hari intebe ifite ibara risa nk'ubururu ndetse n'abandi bantu babiri bamukikije.

Abana babiri, harimo umwe wambaye umupira ufite ibara ritukura ndetse n'undi wambaye ishati ifite ibara ry'icyatsi kibisi, bari gukarabira intoki kuri robine aho umwe yambaye inkweto z'icyatsi...

Icyumba cyabugenewe kiberamo inama cyateraniwemo n'abayobozi batandukanye harimo nka Minisitiri w'inganda n'ubucuruzi aho ari gusinya amasezerano n'umuryango mpuzamahanga ushinzwe kwita ku buzima.

Hamwe muhasukurirwa hakanegeranwa amazi kugira ngo ashyikirizwe abaturage mu bice baherereyemo by'Igihugu bityo bakaba barushaho kugira isuku mu ngo zabo baherereyemo.

Ikigo nderabuzima hateraniyeyo inama ku baturage baturutse mu bice bitandukanye, hagamijwe kugira ngo babashe guhugurwa uburyo barushaho kubungabunga ubuzima bwabo, ndetse barusheho kugira isuku kugira ngo barusheho kwirinda indwara ziterwa n'isuku nkeya.

Umwana mutoya arigusuzumwa n'umuganga wabihuguriwe ndetse uwo mwana yaje kwisuzumisha aherekejwe n'umubyeyi we, kugira ngo abashe kurushaho kumureberera ndetse n'uwo muganga ari kumubaza ibibazo bimwe na bimwe kugira ngo amenye uko ubuzima bwe buhagaze.

Umuyobozi Mpuzamahanga ushinzwe kwita ku buzima, yasuye bamwe mu bajyanama b'ubuzima, aho bari kumwereka uburyo batanga serivisi bafasha abarwayi kugira ngo babashe gukira uburwayi bafite n'uburyo banoza izo serivisi.

Umwana wambaye agapira gafite ibara risa umutuku, afite igikombe, aho ari ku mugezi ndetse akaba ari kuvoma amazi mu gikombe, kugira ngo abashe kuyifashisha mu bikorwa bye.

Umugabo wambaye ipantaro y'ubururu n'umupira ufite ibara ry'ubururu, ahagaze imbere y'umwana utambaye inkweto, aho amaze kuvomera indobo ye bityo akaba agiye kuyikorera ngo ayigeze mu rugo.

Umujyanama w'ubuzima yakiriye umugabo ndetse n'umugore we, aho uwo mugore we atwite uwo mujyanama w'ubuzima ari gukangurira ndetse ashishikariza umugabo we uko yajya arushaho kwita ku mugore we, ibiryo agomba kurya ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umwana wambaye impuzankano y'ikigo yigaho ari kwigishwa uko bakaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune, imbere ye hari igikoresho kizwi nka kandagira ukarabe kigizwe n'indobo irimo amazi ndetse n'akabase gatoya bakarabiramo.

Abana b'abakobwa bagera kuri batanu, bari gukaraba intoki kuri robine ndetse bakaba banambaye impuzankano z'ikigo bigaho bityo kugira ngo babashe kurushaho kugira isuku.

Icyumba cyabugenewe kiberamo inama gihuriwemo n'abayobozi batandukanye aho bari kuganira ku buryo serivisi z'ubuvuzi zarushaho kunozwa, kugira ngo umurwayi ajye abasha gusuzumwa bityo abashe guhabwa imiti kugira ngo abashe gukira uburwayi afite.

Abana babiri bafite bimwe mu bikoresho bifashisha bari kuvomeramo birimo nk'indobo, aho bari kuvoma amazi meza muri izo ndabo bitwaje kugira ngo babashe gukoresha ayo mazi mu bikorwa bitandukanye by'isuku.

Inyubako yabugenewe ishinzwe kuberamo inama, yateraniwemo n'abayobozi baturutse muri Minisiteri y'Ubuzima kugira ngo barusheho kunoza serivise zirebana n'ubuvuzi zihabwa umuturage.

Icyumba cyabugenewe giteraniwemo abana b'abanyeshuri batandukanye, aho bari gusuzumwa indwara n'umuganga wabihuguriwe kugira ngo babashe kurushaho kwitabwaho niba hari uburwayi bafite babashe gukira kugira ngo babashe gutsinda amasomo yabo.

Umugabo wambaye ishati ifite ibara ry'ubururu ndetse n'ipantaro ifite ibara ry'umukara, ari gukaraba akoresheje bumwe mu buryo buzwi nkakandagira ukarabe kugirango arusheho kwimakazwa ibikorwa by'isuku bityo ubuzima bwe burusheho kugenda neza.

Inyubako yabugenewe itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku bana, iteraniwemo n'umubyeyi ndetse n'umwana, aho uwo mwana ari guhabwa ubuvuzi n'abaganga babihuguriwe bagera kuri babiri kugira ngo ubuzima bwe bubashe kugenda neza.

Umujyanama w'ubuzima wabihuguriwe yakiriye umubyeyi ufite umwana mu kigo nderabuzima, aho uwo mubyeyi yaje gusuzumisha umwana we kugira ngo barebere hamwe ko nta kibazo afite cy'uburwayi ndetse niba gihari abashe kuvurwa.

Abana b'abanyeshuri b'abakobwa bagera kuri batatu, bari kwigishwa uko bakaraba intoki n'amazi n'isabune ndetse bagakomeza gushishikarizwa kugira isuku mu buzima bwabo ndetse n'aho batuye.

Umuyobozi ari kuganiriza ababyeyi babiri bateruye abana babo mu cyumba cy'uruganiriro, banahabwa amafunguro afasha abana babo kugira ngo babashe gutsinda ikibazo cy'imirire mibi ndetse no gukura neza.

Icyumba cyabugenewe kiberamo inama, hateraniwemo abayobozi batandukanye b'ubuzima ndetse n'urundi rubyiruko rwaturutse mu bice bitandukanye, kugira ngo barusheho kurebera hamwe uko serivisi z'ubuzima zabasha kunozwa.

Umubyeyi uri guhugurwa n'umwe mu rubyiruko rwabihuguriwe uko yajya ategura amafunguro ye, hagendewe ku isuku ndetse no kugira ngo umwana ahabwe indyo yuzuye.

Bamwe mu babyeyi bagera kuri bane, bicaranye n'umurwayi ufite ikibazo cyo mu mutwe, kugira ngo bamuganirize, ndetse bakomeze no kumuha ubusobanuro bw'uko yabasha gufata ubuzima bwe ndetse akarushaho kumererwa neza.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda ndetse n'Ikigo gishinzwe Ubuzima mu Rwanda, byizihiza umunsi Mpuzamahanga wahariwe ubuzima bwo mu mutwe, ku itariki icumi z'ukwacumi buri mwaka bityo abaturage bireba bakabasha kwegerwa ndetse bakanahabwa ubufasha.

Umukecuru ugeze mu myaka y'izabukuru ateze igitambaro cy'umweru ndetse akaba yambaye n'urunigi aho yicaye imbere y'inzu ye ahugurirwamo ndetse akanabasha kwitabwaho kugira ngo abashe guhashya indwara zitandukanye.

Umukobwa wambaye ikoti rifite ibara ry'umutuku ndetse n'ingofero, ari kwitabwaho, aho afite ikibazo cyo mu mutwe, ari mu cyumba cyabugenewe cyakirwamo abarwayi bafite ikibazo cyo mu mutwe, ari kwitabwaho n'umuganga wambaye umupira ufite ibara ry'umukara wabihuguriwe, kugira ngo amenye ubuzima bwe bwo mu mutwe uko buhagaze.

Inyubako yabugenewe ishinzwe kwakira abarwayi bafite uburwayi bwo mu mutwe, ifite ibyumba byinshi bitandukanye, aho buri murwayi abasha kwitabwaho neza ndetse akanagenzurwa kugira ngo uburwayi afite bukire.

Bamwe mu bayobozi barimo n'abashinzwe umutekano, bamaze kwigira hamwe ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse n'ihohoterwa rikorerwa abana n'uburyo ryarandurwa burundu.

Abayobozi batandukanye bavuye mu nama, aho bari bari kuganira ku birebana nuko serivisi z'ubuvuzi zigomba gutangwa, ndetse zikanozwa, kugira ngo umuturage arusheho kugira ubuzima bwiza, bityo bifashe igihugu iterambere ryacyo.

Icyumba k'inama cyabugenewe, giteraniwemo n'abayobozi baturutse mu bice bitandukanye mu bigo bayobora kugira ngo bahabwe amahugurwa n'umuyobozi ku buryo babasha kunoza imikorere yabo.

Icyumba cy'inama gihuriwemo n'urubyiruko rugizwe n'inkumi n'abasore, aho bari guhurira hamwe kugirango bige ku muti w'ikibazo hagendewe ku nsanganyamatsiko bihaye.

Umujyanama w'ubuzima ari kumwe n'umubyeyi uteruye umwana we, aho uwo mujyanama w'ubuzima afite agakoresho gakoreshwa bapima ingano y'umuriro umwana afite cyangwa undi muntu utandukanye kugira ngo barebe uburwayi afite butandukanye.

Umwe mu nzobere z'abaganga zishinzwe gufasha abaturage bafite ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe, yitwa Docteur Janviere Yubahwe, yongeye gusubukura ubuvuzi bwe ku wa Gatanu.

Inzu yagenewe gucumbikirwamo abarwayi bafite ibibazo birebana no mu mutwe, ifite ibyumba bitandukanye bibasha gufasha abarwayi gukurikiranwa bityo bakanarushaho kwitabwaho kugira ngo barebe ko uburwayi bwabo bwarushaho gukira.

Umwana wambaye ishati ifite ibara ry'umweru yicaye mu cyumba cyabugenewe gitangirwamo amasomo ndetse akanahugurwa bityo akarushaho gukura neza akazigirira akamaro ndetse akanakagirira igihugu cye.

Umugore wambaye umupira ufite ibara ritukura yicaranye n'umukobwa wabihuguriwe uri kumuganiriza ku birebana n'ubuzima bwo mu mutwe, kugira ngo arebe uko yarushaho kumererwa neza mu buzima bwe bwo mu mutwe.

Umubyeyi wicaranye n'abana be, imbere ye hateretse inkoko ndetse akaba ari kuganirizwa uburyo yabasha guha abana be indyo yuzuye, bityo bakabasha gukura neza batarwaye indwara z'igwingira.

Umukobwa wambaye umupira ufite ibara ry'umweru yifashe mu mutwe acuritse umutwe aho afite ikibazo cyo mu mutwe, ari mu cyumba gishinzwe kwakirirwamo ndetse no gukurikiranirwamo abarwayi bafite ikibazo cyo mu mutwe.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda, ifatanyije n'ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda, kiri mu bukangurambaga bushishikariza abajyanama b'ubuzima ndetse n'abandi, bose bafite aho bahuriye na serivise z'ubuzima, gushyiramo imbaraga mu byo bakora bakanoza serivisi.

Umunsi mpuzamahanga wahariwe ubuzima bwo mumutwe, wizihizwa ku isi hose hagamijwe kwigisha abaturage uko bajya babungabunga ubuzima bwabo, ndetse bakirinda n'ibyashyira ubuzima bwabo mu kaga.

Umugabo ufite uburwayi bwo mu mutwe ahagaze aho ari gusuhuzanya n'undi mugabo mu cyumba cyahariwe kwita ku barwayi bo mu mutwe kugira ngo babashe kwitabwaho, bityo babashe gukurikiranwa.

Umugabo uri mu cyumba cyagenewe kwisukurimo afite tumwe mu dukoresho bifashisha basukura amenyo kugira ngo abashe kurushaho guhashya indwara zibasira mu kanwa bityo ubuzima bwe burusheho kugenda neza.

Umubyeyi uri kumwe n'umwana we bose bakaba bambaye umupira ufite ibara ry'umweru bafite tumwe mu dukoresho bifashisha basukura amenyo yabo kugira ngo bakomeze kubungabunga ubuzima bwabo bwo mu kanwa bityo ntibababababashe kugira indwara barwara yo mu kanwa.

Icyumba cyabugenewe gitangirwamo serivisi y'ubuvuzi bw'amenyo, kirimo bimwe mu bikoresho by'ikoranabuhanga, byifashishwa hagenzurwa ko umurwayi uburwayi bwe bubasha gufashwa bugahabwa imiti bityo agakira.

Umwana mutoya wambaye umupira ufite ibara ry'umuhondo ari mu cyumba cyabugenewe gitangirwamo serivisi zo kuvura uburwayi bw'amenyo, aho ari gukurikiranwa na muganga wabihuguriwe kugira ngo abashe kureba ikibazo afite.

Icyumba cyabugenewe mu gutangirwamo serivisi z'ubuvuzi kirimo ibikoresho bitandukanye bikoresha ikoranabuhanga, byifashishwa kugirango ngo babashe gusuzumira hamwe abarwayi uburwayi bafite, kugira ngo babashe guhabwa imiti bityo abakire.

Abaganga babiri babihuguriwe bari gukurikirana umurwayi, aho umurwayi afite ikibazo cy'amenyo, bari mu cyumba cyabugenewe, ndetse uwo murwayi ari gukurikiranwa anahabwa imiti, kugira ngo abashe gukira uburwayi afite.

Bimwe mu bikoresho bikoreshwa kwa muganga byabugenewe kugira ngo babashe kwifashisha amashusho bareba mu mubiri w'umurwayi bityo bibashe kuborohereza mu gihe bari kuvura umurwayi.

Umugabo utambaye ku gice cyo hejuru y'umubiri we, afite kamwe mu dukoresho yifashisha asukura amenyo ye, ndetse n'ibindi bice byo mu kanwa kugirango arusheho kwirinda indwara zibasira mu gice cyo mu kanwa nk'amenyo.

Umugabo uri mu cyumba bisukuriramo, afite tumwe mu dukoresho bifashisha bari kwisukura mu kanwa kugira ngo arusheho guhashya indwara zimwe na zimwe zibasira mu kanwa, bityo ubuzima bwe burusheho kugenda neza.

Icyumba cyabugenewe gishinzwe kwakirwamo abarwayi, harimo umuganga wicaye kuri bimwe mu bikoresho byifashishwa basuzuma umurwayi kugira ngo babashe kumenya indwara afite, bityo barusheho kumushakira imiti kugira ngo akire uburwayi afite.

Umwana mutoya yicaye ku ntebe ifite ibara ritukura, aho ari mu cyumba cyabugenewe gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'amenyo, akaba ari kwitabwaho n'umuganga wabihuguriwe, kugira ngo arebe ko amenyo ye adafite ikibazo bityo abashe kumufasha.

Icyumba cyabugenewe mu gutangirwamo serivisi z'ubuvuzi harimo umuganga ufite ibikoresho bitandukanye akoresha kugira ngo abashe kwita ku murwayi, aho ari gukoresha igikoresho gifite amenyo kugira ngo abashe kucyigiraho uko yavura umurwayi.

Icyumba cyabugenewe mu kwakiramo abarwayi harimo umurwayi ufite uburwayi bw'amenyo, aho aryamye ku gitanda cyabugenewe ndetse akaba ari gukurikiranwa n'abaganga babiri babihuguriwe kugira ngo babashe kureba uburwayi afite uko buhagaze ndetse n'uburyo yabasha kwitabwaho.

Icyumba cy'inama giteraniwemo n'urubyiruko aho bambaye imipira ifite ibara ry'icyatsi kibisi yanditseho tubitayeho kugira ngo babashe kurandura indwara ziterwa n'uburwayi bw'amenyo bimakaza isuku.

Umuganga wabihuguriwe ari kumanika ibikoresho yifashisha, ashaka kureba indwara umurwayi afite kugira ngo abashe kurushaho, kumuha imiti ndetse no kumuha ibisobanuro by'uko agomba gutwara ubuzima bwe.

Icyumba cyagenewe gutangirwamo amasomo giteraniwemo n'abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano yabo aho buri umwe bamuhaye umuti wo gusukura mu kanwa kugira ngo barusheho kugira isuku mu kanwa bityo babashe gukura neza.

Umugabo ari mu cyumba cyabugenewe cyo gukorerwamo amasuku aho afite uburoso bwe bityo akaba ari gusukura amenyo ye, imbere ye hari ibindi bikoresho by'isuku yifashisha kugira ngo abashe kugira isuku.

Kimwe mu byumba cyahariwe mu gutanga serivisi, zirimo mu gusuzuma umurwayi, kikanatanga ibipimo bijyanye n'uburwayi, hagendewe kundwara umurwayi arwaye.

Icyumba cyahariwe gusuzumirwamo abaturage b'ingeri zose, baturutse mu bice bitandukanye by'Igihugu, hagendewe ku ndwara barwaye, icyo cyumba kirimo kandi ibikoresho by'isuku kugira ngo kirebe neza indwara umurwayi arwaye.

Icyumba cyabugenewe gitangirwamo serivisi zo kuvura abarwayi bafite uburwayi bw'amenyo, giteraniwemo n'umurwayi ndetse na muganga wabihuguriwe, aho ari kumufasha mu kanwa kugira ngo abashe kumukiza uburwayi afite.

Umwe mu rubyiruko rufite uburwayi bw'amenyo ari kwitabwaho n'umuganga wabihuguriwe hagendewe yuko ubuzima bwe bwakomeza kugenda neza. Uburwayi bw'amenyo buri mu burwayi buhitana abantu batari bake ku isi.

Umwana wambaye ishati y'ubururu, afite uburoso mu ntoki aho ari gukora igikorwa cyo kwiborosa bityo akabasha kwirukana indwara ziterwa n'udukoko twibasira amenyo ndetse n'ibindi bice byo mu kanwa.

Umwana mutoya afite uburoso aho ari gusukura amenyo ye, yicaye mu ntebe ifite ibara ry'ubururu, aho ari mu cyumba cyagenewe kwakirwamo abarwayi kugira ngo babashe kureba uburwayi bafite by'umwihariko ku burwayi bujyanye no mu kanwa.

Icyumba cyabugenewe gishinzwe gutangirwamo serivisi ku birebana n'ubuvuzi bw'amenyo harimo umurwayi aho ari gukurikiranwa na muganga wabihuguriwe kugira ngo abashe kumukurikirana bityo amenye ubuzima bwe bwo mu kanwa uko buhagaze.

Umuganga wabihuguriwe, ari gufasha umwana ufite ikibazo cy'amenyo aho ari kwifashisha bimwe mu bikoresho byifashishwa kwa muganga kugira ngo amenyo babashe kuyashyira ku murongo ndetse n'afite ikibazo babashe kuyakura.

Kimwe mubyumba by'inama giteraniwemo n'abategarugori hagendewe mu kwita ku buzima bw'umuturage ndetse no kwigishwa ibikorwa by'isuku n'uburyo indwara z'ibyorezo zandura.

Icyumba cyabugenewe gisuzumirwamo abafite uburwayi bw'amenyo, hateraniyemo umugore wicaye mu ntebe akaba anafite indorerwamo mu biganza bye, aho ari kwireba amenyo ye.

Umuganga wabihuguriwe afite udukoresho twabugenewe, aho ari gukura amenyo, kugira ngo amenyo ajye ku murongo, ndetse n'afite uburwayi abashe gukira, bityo umuntu amererwe neza.

Umukobwa wicaye ku ntebe yo kwa muganga yabugenewe, ari gusuzumwa na muganga, akaba afite uburwayi bw'amenyo bityo muganga akaba ari kumukurikirana ngo arebe uburyo yamukiza ubwo burwayi afite.

Bamwe mu bageze mu myaka y'izabukuru bashishikarizwa gukora siporo, kugira ngo bahashye zimwe mu ndwara ziterwa no kudakora siporo zirimo nk'umuvuduko w'amaraso, diyabete, umubyibuho ukabije n'izindi.

Umugabo ugeze mu myaka y'izabukuru yicaye mu kagare kabugenewe kugira ngo abashe kwitabwaho, ari kumwe n'umuganga wabihuguriwe aho ari kumufasha muri bimwe mu bikorwa kugira ngo abashe kurushaho kugira ubuzima bwiza.

Umugore n'umugabo bageze mu myaka y'izabukuru bari mu cyumba cyagenewe kuriramo aho bari gufata amafunguro atandukanye ndetse bakaba bafite n'amazi imbere yabo kugira ngo barusheho kurwanya indwara z'imirire mibi.

Umugore n'umugabo bateraniye mu cyumba gifatirwamo amafunguro, aho umugore ari kugenzura ko umugabo we abasha gufata ibinini uko yabitegetswe na muganga, kugira ngo abashe gukira.

Umugabo ugeze mu zabukuru ari kwitabwaho n'umuganga wabihuguriwe, aho bari mu cyumba cyabugenewe gikorerwamo siporo kugira ngo uwo murwayi arusheho guhashya indwara ziterwa no kudakora siporo zirimo umubyibuho ukabije, umuvuduko ukabije w'amaraso ndetse n'ibindi.

Umugabo ugeze mu myaka y'izabukuru, wambaye umupira ufite ibara ry'ubururu, ari kwitabwaho n'umuganga wabugenewe; aho ari kumwambutsa mu byuma byabugenewe, kugira ngo barusheho gusuzuma ubuzima bwe uko buhagaze.

Abagabo bagera kuri barindwi bageze mu myaka y'izabukuru, bicaye ku ntebe aho bari guhugurwa ku buryo imibereho yabo yarushaho kunozwa ndetse no kugenda neza.

Umukecuru ndetse n'musaza we bari mu cyumba cy'uruganiriro aho umukecuru ari kwereka umusaza ingano y'imiti agomba kunywa kugira ngo abashe gukira uburwayi afite, imbere yabo harambitse ikirahure cy'amazi.

Icyumba cy'uruganiriro giteraniwemo n'abageze mu myaka y'izabukuru ndetse hari n'umurwayi uri kwitabwaho n'umuganga, ari mu gakoresho kabugenewe bita akagare kugira ngo arusheho kumererwa neza.

Umusaza ari kwitabwaho n'umukecuru we agenzura ko ibinini muganga yamwandikiye ari kubifatira neza ku gihe ndetse afata n'ingano ya nyayo muganga yamutegetse kunywa kugira ngo akire.

Bamwe mu bageze mu myaka y'iza bukuru, babashishikarizwa gukora siporo, cyane ko siporo ibarinda indwara zigiye zitandukanye zarimo nk'umubyibuho ukabije, diyabete, umuvuduko w'amaraso, n'izindi.

Umwe mu baganga bashinzwe kwita ku barwayi bageze mu myaka y'izabukuru, ari kwita ku mukecuru ugeze mu myaka y'izabukuru, aho ari kumurambura intoki ndetse n'izindi ngingo kugira ngo arebe ikibazo afite.

Kimwe mu cyumba cyagenewe kwakira ndetse no gutanga serivise kubaturage hagendewe kubageze mu myaka y'izabukuru kugira ngo habungabungwe ubuzima bwabo.

Umukecuru wambaye umupira w'ubururu, ari mu cyumba gishinzwe gutunganyirizwamo amafunguro, aho afite ikirahure kirimo amazi mu ntoki ndetse n'ibinini kugira ngo abashe kubinywa.

Abageze mu zabukuru bitabwaho n'abaganga babihuguriwe, aho bahabwa imyitozo ngororamubiri, bityo bakabasha guhashya indwara ziterwa n'izabukuru, ndetse bakarushaho kugubwa neza.

Icyumba cy'uruganiriro kirimo umubyeyi, uri guhugura umwana we uburyo yafata imiti, bityo rero akarushaho kugira ubuzima buzira umuze, ndetse akaba yagira n'imbere heza hamutegereje.

Abakecuru bageze mu zabukuru bari kwigishwa uko bajya bategura amafunguro ndetse n'uburyo barushaho kugira isuku mu gikoni cyabo, kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza, bityo barusheho kumererwa neza.

Icyumba cyahariwe gutunganyirizwamo amafunguro, hateraniyemo umubyeyi n'umwana we ndetse na nyogokuru wabo, aho basetse bishimye, ndetse bakaba bari gutunganya n'amafunguro ari bubafashe mu mibereho yabo.

Umugabo ugeze mu myaka y'izabukuru yifashe mu gahanga aho ari gusoma igitabo kirambitse ku meza amwegereye ndetse imbere ye harambitse ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga byifashishwa harimo nka mudasobwa ndetse n'ibindi.

Umugore wambaye umupira ufite ibara ry'umweru ageze mu zabukuru, ari kumwe n'umugabo nawe ugeze mu zabukuru aho bari gukora siporo bahashya indwara ziterwa no kudakora siporo.

Umugore ugeze mu myaka y'izabukuru yicaye mu busitani bwe ku gakoresho kabugenewe gakorerwaho siporo yigorora aho iyo siporo imurinda indwara zirimo umuvuduko w'amaraso, diyabete, umubyibuho ukabije n'izindi.

Umukecuru ugeze mu myaka y'izabukuru ari gukora siporo, aho ari mu cyumba cyabugenewe gikorerwamo siporo ndetse akaba ari kwifashisha na bimwe mu bikoresho byabugenewe bikoreshwa siporo kugira ngo arusheho guhashya indwara ziterwa no kudakora siporo.

Abagabo bageze mu myaka y'izabukuru bambaye imyenda yagenewe gukoresha siporo, aho bari gukora siporo ndetse bakaba bafite n'icupa ry'amazi mu ntoki kugira ngo barusheho guhashya indwara zirebana no kudakora siporo zirimo umubyibuho ukabije n'izindi.

Umusaza ugeze mu za bukuru, ari kuvanwa mu buriri bwe n'umuganga wabihuguriwe, kugira ngo abashe kumwitaho bikwiriye, kugira ngo abone ubuvuzi ndetse ubuzima bwe bukomeze kumera neza.

Abayobozi bari guhugura abagore ndetse n'abagabo bageze mu myaka y'izabukuru, banahabwa bimwe mu bikoresho bazajya bifashisha mu mibereho yabo ya buri munsi kugira ngo babashe gukomeza bagubwa neza.

Umusaza ugeze mu myaka y'izabukuru, ari kwitabwaho n'umuganga wabihuguriwe, aho ari kumwambika udukoresho kugira ngo abashe ku mupima amenye ko ubuzima bwe buhagaze bityo abashe guhabwa imiti.

Umuganga wabihuguriwe ari kwerekera umugabo ugeze mu myaka y'izabukuru, uko akora siporo, kugira ngo arusheho kurwanya indwara ziterwa no kudakora siporo, zirimo umuvuduko ukabije w'amaraso, ndetse n'umubyibuho ukabije.

Icyumba cy'inama giteraniwemo n'abayobozi batandukanye ndetse n'abanyamakuru, kugira ngo babashe kubabaza ibibazo bimwe na bimwe, birebana n'abaturage ndetse na gahunda begerejwe.

Icyumba cyabugenewe kiberamo inama, cyahuriwemo n'abayobozi batandukanye ndetse n'abaturage bize ibirebana n'ubuganga, bigishwa uburyo barushaho kunoza serivisi ku barwayi babagana bityo bakarushaho kumererwa neza.

Icyumba cyabugenewe kiberamo inama cyahuriwemo n'abaturage batari bake, aho bari kuganira ku ndwara zandura n'izitandura n'uburyo zarushwaho kwirindwa n'abaturage, mbese bakarushaho kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa w'umuganga wambaye umupira w'umweru wabihuguriwe, ari gutera urushinge akingira undi mukobwa wazamuye umupira kugira ngo abashe guterwa urushinge, ndetse hari n'undi uri kureberera icyo gikorwa ko kigenda neza.

Icyumba cy'inama gihuriwemo n'abayobozi ndetse n'abashakashatsi bagiye batandukanye, aho bari bubazwe n'abanyamakuru, bityo babashe kwiga ku bushakashatsi bw'ubuzima n'uburyo bwakongerwamo imbaraga.

Icyumba cy'inama giteraniwemo n'abayobozi ndetse n'ababyeyi mu nshingano zitandukanye, aho bari guhugura abakobwa b'abangavu, ku mihindagurikire y'imibiri yabo ndetse bakanahabwa bimwe mu bikoresho by'isuku bizajya bibafasha.

Abaganga bagera kuri batandatu bateraniye hamwe, aho bari mu cyumba bambaye ibikoresho bifashisha mu gupima ndetse no gusuzuma abarwayi kugira ngo babashe kubafasha.

Umunsi mpuzamahanga ushinzwe kurwanya sida, hahugurirwamo ndetse hagatangirwamo no gufata amaraso, hagendewe ko abaturage bapimwa ndetse bakanigishwa uburyo bajya birinda virusi itera sida.

Umuryango mpuzamahanga ushinzwe kurengera ibidukikije, wizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurinda ibidukikije ku itariki makumyabiri n'esheshatu z'ukwa kenda buri mwaka.

Ikigo gishinzwe kwita ku buzima mu Rwanda, cyita ku baturage aho kibaha serivisi z'ubuvuzi, aho gifite insanganyamatsiko igira iti ''Abaturage bafite ubuzima buzira umuze n'ubukungu ku gihugu.''

Raporo y'umuryango mpuzamahanga ushinzwe kwita ku buzima ku gisubizo kirambye cyo kurandura no guhashya Korona virusi mu gice Afurika iherereyemo, no kugabanya abaturage bicwa na Korona virusi.

Umuryango mpuzamahanga ushinzwe kurwanya SIDA ugira ubukangurambaga, aho ushishikariza abaturage uburyo bakwirinda virusi itera SIDA, bakigishwa uburyo yandura ndetse n'uburyo uwayanduye abasha guhabwa imiti kugira ngo arusheho kumererwa neza.

Bamwe mu rubyiruko rufite aho ruhuriye na serivisi z'ubuzima bari mu bukangurambaga bushinzwe gukangurira abaturage kwirinda kanseri y'ibere, kwisuzumisha hakiri kare kuko ivurwa igakira, ubwo bukangurambaga babukoze baca mu bice binyuranye by'igihugu.

Icyumba cy'inama giteraniwemo n'abayobozi bahagarariye ubuzima, aho baje kurebera hamwe mu guteza imbere ubuzima muri Afurika y'Uburasirazuba.

Zimwe muri gahunda z'iterambere leta y'u rwanda yashyizeho, kugira ngo zigerweho nuko hagabanywa umubare w'abana bagwingira. Hakorwa ubukangurambaga butandukanye kugira ngo bigishe ababyeyi mu miryango barimo, uko bajya bategura amafunguro yabo kugira ngo barinde abana babo kugwingira.

Gahunda yo kwegereza no korohereza abaturage gufata udukingirizo iri muri imwe muri serivise zashyizweho imbaraga na leta kugira ngo harwanywe virusi itera sida.

Inama yahariwe kwita ku buzima, ikomeza ihuza urubyiruko rwiganjemo abasore n'inkumi, kugira ngo barusheho kwigishwa uburyo banoza umurimo wabo.

Inama y'igihugu ihuza abari mu mwuga w'ubuvuzi kugira ngo babashe kunoza umwuga bakora ndetse babashe gusuzuma abarwayi kugira ngo bakire nta yandi mananiza arimo.

Icyapa cyerekana ubushakashatsi bugizwe n'imibare y'uko icyorezo cya coronavirus cyagiye cyibasira abaturage ndetse n'imyaka abaturage bakunda kwibasirwa n'icyo cyorezo bafite.

Umunsi mpuzamahanga wahariwe kwita ku bidukikije, uba tariki makumyabiri n'esheshatu z'ukwacyenda buri mwaka. Kuri uwo munsi, hategwa ibiti bitandukanye ndetse hakanarindwa bimwe mu byangiza ibidukikije.

Bamwe mu rubyiruko ndetse n'abaturage batandukanye, bagannye serivisi z'ubuvuzi, aho bari gupimwa bakareba ko nta mbwandu bafite bugiye bitandukanye mu mibiri yabo.

Minisiteri ishinzwe Ubuzima mu Rwanda ndetse n'ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda, birushaho gutanga amabwiriza y'uburyo abaturage barushaho kwirinda virusi itera SIDA ndetse n'abayifite bakabasha gukurikiranwa.

Icyumba cyabugenewe kiberamo inama giteraniwemo n'Abayobozi batandukanye, barebera hamwe ku buryo serivisi z'ubuzima ndetse n'ubuvuzi zarushaho gutangwa neza, bityo umuturage akarushaho kugira ubuzima bwiza.

Umwe mu bahanzi bo mu Rwanda, ari kumwe na minisitiri w'ubuzima mu Rwanda, kugira ngo abashe gukangurira abaturage ku ndwara y'igituntu uko kivurwa ndetse n'uko cyandura kugira ngo abaturage barusheho kukikirinda.

Icyumba cyabugenewe cyagenewe gutangirwamo serivisi z'ubuvuzi, harimo ibikoresho bitandukanye bikoresha ikoranabuhanga, kugira ngo babashe gufasha umurwayi bitewe n'uburwayi afite, bityo abashe gukurikiranwa kugira ngo abashe gukira.

Icyumba cyabugenewe gishinzwe gusuzumirwamo abarwayi, giteraniwemo n’abarwayi baturutse mu bice bitandukanye, aho bari kwitabwaho n’abaganga babihuguriwe kugira ngo barebe indwara bafite, bityo babashe guhabwa imiti kugira ngo bakire.

Umurwayi yicaye mu igare ryabugenewe ry'abafite ubumuga yitaruye inyubako ndende itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ikaganwa n'abaturage baturutse mu bice bitandukanye kugira ngo babashe gufashwa bityo bamererwe neza.

Icyumba cyabugenewe gikorerwamo siporo kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa hakorwa siporo, nk'ibyuma baterura ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bifashe uwaje gukora siporo kugira ngo abashe gukora siporo neza.

Ikigo nderabuzima giherereye mu karere ka Nyarugenge, gitanga serivisi zirimo ububyaza ndetse n'ibindi bitandukanye, abaturage bakomeza bakigana baturutse mu bice bigiye bitandukanye.

Umuganga wabihuguriwe yicaranye n'umukecuru ugeze mu zabukuru, akaba afite udukoresho twabugenewe dukoreshwa kwa muganga kugira ngo abashe gupima uwo mukecuru kugira ngo amenye uko ubuzima bwe buhagaze.

Icyumba cyabugenewe gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku baturage, kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'umurwayi, harimo nk'ibitanda ashobora kuraraho ndetse hakaba hanamanitse inzitiramibu zikoranye umuti...

Inyubako ishinzwe kwakira abarwayi ifite umwanya munini aho abarwayi bakirirwa, ndetse ikanagira parikingi hanze baparikamo imodoka zaturutse ahantu hatandukanye.

Inzu irimo ibyumba byabugenewe byakirwamo abarwayi ndetse ikanagira ibyumba aho bakirira abarwayi kugira ngo babashe kwemererwa kujya mu cyumba bari busuzumirwemo bakanafatwa ibimenyetso kugira ngo babashe kurindwa indwara zitandukanye.

Ikigo nderabuzima gifite icyumba cyabugenewe kirimo ibikoresho by'isuku ndetse n'ibitanda mu gihe umurwayi bisabye ko arara kugira ngo arusheho gukomeza gukurikiranwa, hareba uko imiti yabasha kumugirira umumaro.

Inyubako ishinzwe kwakira abarwayi bafite uburwayi bwa kanseri, iganwa n'abaturage bafite uburwayi bwa kanseri, baturutse mu bice bitandukanye by'Igihugu bityo bakabasha gufashwa bakanahabwa imiti.

Kimwe mu cyumba cyabugenewe gishinzwe kubikwamo imiti kugira ngo harindwe ubuziranenge bw'iyo miti bityo ibashe guhabwa umurwayi kugira ngo akire uburwayi afite ndetse arusheho kugira umusaruro mu rugo rwe ndetse no ku gihugu muri rusange.

Inyubako nini yabugenewe itangirwamo serivisi z'ubuvuzi burebanye no gukora siporo ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa kugira ngo umurwayi abashe gukora siporo bityo arusheho koroherwa.

Ibitaro bifite umwanya uhagije wo kwakiriramo abarwayi ndetse n'igihe batarafashwa bakaba bicaye batekanye, bategereje ko umuganga aza akabakira bityo akamenya uko ubuzima bwabo buhagaze.

Icyumba cyabugenewe gishinzwe gutangirwamo serivisi z'ubuvuzi, harimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, byose byifashishwa kugira ngo hasuzume umurwayi uburwayi afite, bityo abashe gufashwa ahabwa imiti, ndetse n'ibindi kugira ngo ubuzima bwe bumererwe neza.

Ibyumba byabugenewe mu kwakiramo abarwayi. Bifite ibitanda aho umurwayi wabashije gukurikiranwa ntibibe ngombwa ko ataha, abasha guhabwa kimwe mu gitanda aribyo bita guhabwa ibitaro, kugira ngo arusheho gusuzumwa.

Icyumba cyabugenewe gihurirwamo n'abaganga babihuguriwe, bapima ndetse bakora n'ubushakashatsi bitewe n'ibyo bihaye gukora kugira ngo barusheho kunoza imirimo yabo.

Icyumba cyabugenewe gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga kugira ngo umurwayi abashe kwitabwaho, bityo hasuzumwe uburwayi afite kugira abashe guhabwa imiti kugira ngo arusheho kumererwa neza bityo atange umusaruro.

Ikigo nderabuzima gifite inyubako zabugenewe zakirirwamo abarwayi baturutse mu bice bitandukanye, muri icyo gice harimo n'ibiti kugira ngo babashe kubona umwuka mwiza mu gihe bari gusuzumwa no gufashwa.

Ikigo nderabuzima gisuzuma abarwayi bafite uburwayi bwo mu mutwe kizwi nka karayesi, aho kiganwa n'abaturage bagiye batandukanye, bagiye bafite ibibazo birebana no mu mutwe.

Icyumba cyabugenewe cyo kwa muganga gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kiganwa n'abaturage baturutse ibice bitandukanye, bafite uburibwe kugira ngo babashe kugabanyirizwa uburibwe ndetse banitabweho.

Inyubako yabugenewe ifite ibyuma by'ikoranabuhanga bizajya byifashishwa hafashwa umurwayi kugira ngo abashe gukurikiranwa, bityo indwara ye imenyekane habe uburyo yabasha guhabwa imiti bimworoheye.

Kimwe mu kigo cyo mu Rwanda, gishinzwe gucuruza imiti mu Rwanda, gifite inzu yabugenewe aho igizwe n'ibyumba bitandukanye birimo imiti, biganwa n'abaturage baturutse mu bice bitandukanye kugira ngo babashe kugura imiti bitewe n'uburwayi bafite bityo bakire.

Umukobwa w'umuganga wabihuguriwe ari gukoresha mudasobwa ye, aho ari mu cyumba cyabugenewe gishinzwe gupimirwamo ibizamini byatanzwe n'abarwayi kugira ngo babashe kurebera hamwe uburwayi bafite, bityo babashe gukizwa.

Icyumba cyabugenewe gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, byifashishwa hapimwa umurwayi kugira ngo abashe kwitabwaho bityo avurwe neza.

Icyumba cyabugenewe mu gutangirwamo serivisi z'ubuvuzi, harimo ibitanda bitandukanye bihabwa abarwayi ndetse hakaba hari n'abaganga babihuguriwe babasha kwita ku barwayi kugira ngo barusheho gukira uburwayi bafite, bityo barusheho kumererwa neza.

Ikigo nderabuzima cya Rwereri gikikijwe n'ubusitani, kikanagira ibyumba bitandukanye byakirwamo abarwayi kugira ngo babashe gupimwa ndetse banahabwe imiti kugira ngo bakire uburwayi bafite, bityo barusheho kugirira umumaro imiryango batuyemo.

Ikigo nderabuzima cyitabirwa n'abaturage baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, aho abaturage babasha kwakirwa bitewe n'uburwayi bafite, bityo bagasuzumwa ndetse bagahabwa imiti kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Icyumba cyabugenewe gishinzwe gutangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kirimo ibyuma by'ikoranabuhanga bibasha gufasha umurwayi kugira ngo hagenzurwe burwayi afite, bityo abashe guhabwa imiti kugira ngo abashe gukira uburwayi afite.

Imwe mu nzu zabugenewe irimo icyumba cy'uruganiriro, gifasha abarwayi kugira ngo babashe kwitabwaho ndetse babashe kuganirizwa uko bazajya bafata imiti yabo ndetse n'ibindi bireba ubuzima bwabo.

Abagore bane n'umugabo umwe bateraniye ku nyubako ishinzwe gutangirwamo ibipimo izwi nka laboratwari, kugira ngo babashe kugenzura indwara umurwayi afite bityo babone uko babasha kumufasha kugira ngo arusheho kumererwa neza.

Icyumba cyabugenewe kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga gishinzwe gufasha abana b'impinja kugira ngo babashe kwitabwaho mu gihe bakivuka ndetse n'umuganga wabihuguriwe ari kwita ku mwana ukivuka, aho aryamye mu cyuma cyabugenewe.

Inzu yabugenewe, igizwe n'ibyumba byabugenewe bitangirwamo serivise yo gusuzuma abarwayi, ndetse no kureba uko ubuzima bwabo buhagaze, bityo bakaba babasha gufashwa bagahabwa imiti.

Service z'ubuvuzi zegerejwe abaturage hagendewe mu bigo nderabuzima biba byaragiye byubakwa mu turere dutandukanye tw'igihugu bityo bikorohera umuturage kubona service z'ubuvuzi.

Icyumba cyahariwe gusuzumirwamo abarwayi, kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaganga hapimwa ndetse hanareba ko abarwayi bari bwitabweho uko bikwiriye bityo bakabasha gufashwa.

Inzu yabugenewe ishinzwe gutanga bimwe mu bikoresho byabugenewe, by'abarwayi bafite uburwayi bw'amaso bityo bakabasha koroherwa ndetse bakanakira uburwayi bwabo bw'amaso.

Inyubako yabugenewe itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, ifite ibyumba byinshi bitandukanye byagenewe kwakirwamo abarwayi ndetse no gufatirwamo ibipimo by'abarwayi kugira ngo babashe gukurikiranwa, hamenywe indwara barwaye.

Icyumba cyabugenewe gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi by'umwihariko ku bana, hateraniyemo umuganga wabihuguriwe ndetse n'umwana uri gusuzumwa kugira ngo abashe kwitabwaho bityo abashe gukira ubwo burwayi afite ari kumwe kandi n'umubyeyi we.

Ikigo nderabuzima gifite ibyumba byabugenewe aho ababyaye babyara ndetse n'abana babyaye babasha kwitabwaho barimo, ibyo byumba bibasha kuba bifite isuku kugira ngo abana babashe kuvukira ahantu hameze neza bityo bakure neza.

Ikigo nderabuzima gifite umwanya uhagije wo kwakira abarwayi baturutse mu bice bitandukanye, gifite ubwiherero ndetse n'ibindi bikorwa bifasha umurwayi kugira ngo abashe kwakirwa neza.

Ikigonderabuzima giherereye mu Mujyi wa Kigali, mu Murenge wa Nyamirambo ahazwi nko kwa Nyirinkwaya, kiganwa n'abaturage baturutse mu bice bitandukanye, aho baba baje gushaka serivisi z'ubuvuzi kugira ngo bakire.

Icyumba cyabugenewe kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, harimo nk'ibikoresho byifashishwa hazimywa inkongi y'umuriro yabasha kwibasira kimwe mu byumba bitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kugira ngo barusheho kurinda ubuzima bw'umurwayi.

Umugabo uri mu za bukuru wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara, yicaye munsi y'igiti cy'inganzamarumbo gikikijwe n'ibyatsi byinshi kikaba cyegereye inzu.

Inzu yagenewe ababyeyi babyara ndetse n'impinja, iboneka muri buri kigo nderabuzima aho usanga irangwa n'isuku kugira ngo ubuzima bw'abana babyarwa ndetse n'ababyeyi bababyara bukomeze kwitabwaho.

Ikigo nderabuzima cya Kigina, gifite umwanya uhagije wo kwakiriramo abarwayi baturutse mu bice bitandukanye, n'aho abarwayi bicara mu gihe bategereje y'uko bitabwaho bityo bakabasha kuvurwa.

Icyumba cyabugenewe kirimo ibitanda bifasha umurwayi mu gihe atabashije kuvurwa ngo atahe, ku buryo yahita arara mu bitaro, kugira ngo arusheho kwitabwaho, bityo abashe gukira mu gihe kiri imbere.

Ibitaro bifite ibyumba byabugenewe, aho abarwayi babasha gucumbikirwa. Ndetse ibyo byumba bigizwe na bimwe mu bikoresho by'ikoranabuhanga, aho babasha kureba ubuzima bw'umurwayi uko buhagaze kugira ngo arusheho kwitabwaho.

Ikigo nderabuzima gifite ibyumba byabugenewe byakirirwamo abarwayi ndetse bakanacumbikirwa, ibyo byumba birimo inzitiramibu ikoranye umuti ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye bifasha umurwayi mu gihe ari kuvurwa.

Icyumba cyabugenewe gitangirwamo serivise z'ubuvuzi, kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, byifashishwa kugira ngo babashe gukurikirana umurwayi ndetse bamenye indwara afite, bityo abashe gufashwa.

Inzu yabugenewe ishinzwe gucururizwamo imiti izwi nka farumasi, itanga serivisi zo guhugura abarwayi baturutse mu bice bitandukanye, ikanabaha imiti hagendewe ku burwayi bafite.

Ikigo gishinzwe kwakira abarwayi ba Kanseri mu Rwanda, gifite inyubako ngari zakirirwamo abarwayi bafite Kanseri kugira ngo barusheho kwitabwaho ndetse no guhabwa imiti kugira ngo iborohereze mu burwayi bwabo.

Inyubako yabugenewe izajya itangirwamo serivisi zo kwakira abarwayi ndetse ikaba ifite ibyumba bitandukanye byo guhugura abari mu mwuga w'ubuvuzi, kugira ngo barusheho kunoza serivisi batanga ku barwayi.

Inzu ikorerwamo siporo z'abana, irimo ibyumba byabugenewe, aho umwana abasha gukurikiranwa ndetse akabasha no gukorera siporo ku bindi byuma bikoresha ikoranabuhanga bitandukanye, kugira ngo ubuzima bwe burusheho kumera neza.

Ikigo nderabuzima kiganwa n'abaturage bafite uburwayi butandukanye mu bice bitandukanye, gifite ibyumba byinshi byabugenewe aho abarwayi bakirirwa ndetse bakanakurikiranwa kugira ngo babashe kwitabwaho bityo bakire uburwayi bafite.

Icyumba cyabugenewe gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku barwayi, harimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga bibasha kwifashishwa mu gusuzuma umurwayi kugira ngo barebe uburwayi afite bityo abashe gufashwa kugira ngo akireye.

Icyumba cyabugenewe gishinzwe gutangirwamo serivisi z'ubuvuzi, harimo icyumba cyabugenewe gikoresha ikoranabuhanga, aho umurwayi abasha kugicamo kugira ngo arebe ubuzima bwe uko buhagaze ndetse n'indwara afite zose mu mubiri we.

Ibitaro bifite ibyumba bitandukanye, aho abarwayi bakirirwa ,ndetse bakanacumbikirwa bibaye ngombwa ko barara, kugira ngo babashe kurushaho kwitabwaho, bityo bakizwe uburwayi bafite. Ndetse abaganga nabo bafite ibyumba byabo byabagenewe ,babasha gukurikiraniramo abarwayi.

Inyubako nini izajya itangirwamo serivisi zirebana n'ubuvuzi ifite ibyumba byinshi bizajya bitangirwa bikanakirwamo abarwayi baturutse mu bice bitandukanye kugira ngo babashe kwitabwaho bityo bavurwe.

Ibitaro byabugenewe bishinzwe gutanga serivisi z'ubuvuzi, cyane ku birebana n'uburwayi bw'amasoso, byitabirwa n'abaturage bafite uburwayi bw'amaso, mu bice bitandukanye kugira ngo babashe gufashwa bityo bakire amaso.

Umuganga wabihuguriwe, afite mudasobwa mu ntoki ndetse imbere ye hari mudasobwa nini akoresha areba mu ngingo z'umurwayi, kugira ngo abashe kureba ikibazo afite, bityo amufashe.

Ibyumba byabugenewe bikoranywe n'ikoranabuhanga, kugira ngo bibashe gufasha ububiko bw'imiti, kugira ngo hasigasirwe ubuziranenge bw'iyo miti bityo ibe yabasha gufasha abarwayi uburwayi bafite kugira ngo bakire.

Ikigo Nderabuzima cya Shagasha, gifite umwanya wisanzuye, bityo abaturage bakabasha gufashwa, kandi bakabasha guhabwa n'imiti, kugira ngo babashe gukira uburwayi bafite.

Ibigo Nderabuzima bishyira ibyapa ku mihanda kugira ngo abaturage bajye bamenya serivisi bari buhabwe muri icyo Kigo Nderabuzima bagannye, bityo bikorohereza abaturage mu kumenya aho babariza serivisi.

Inzu yabugenewe yagenewe gutangirwamo serivisi zo gusuzumirwamo abarwayi baturutse mu bice bitandukanye, ifite ibyumba bitandukanye aho abarwayi babasha kwitabwaho ndetse bagabahabwa serivisi kugira ngo babashe gukira uburwayi bafite.

Ikigo gishinzwe ubuzima muri Afurika, gifite ibyumba byabugenewe byo kwakiriramo abaturage ndetse hakanatangirwamo inama z'uko abaturage bajya babasha kugera ku Bigo Nderabuzima bibegereye.

Inzu y'ibitaro bishinzwe gutanga serivisi, abaturage baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, bafite uburwayi bwo mu mutwe kugira ngo babashe koroherezwa ndetse bakire.

Ikigo nderabuzima gihurirwamo n'abaturage baturutse mu bice bitandukanye byo muri uwo murenge kugira ngo babashe guhabwa serivisi z'ubuvuzi, bitabwaho ndetse bakanahabwa imiti kugira ngo bakire.

Icyumba cyabugenewe mu kubika ibipimo byafashwe umurwayi kugira ngo ibashe gukurikiranwa hagenzurwa uburwayi umurwayi afite, bifite bimwe mu bikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa kugira ngo bagenzure indwara umurwayi afite.

Bimwe mu bikoresho bikoreshwa kwa muganga, aho bibasha kwifashishwa mu gupima ibizamini umurwayi yatanze kugira ngo babashe kureba uburwayi afite bityo arusheho kwitabwaho ahabwa imiti kugira ngo abashe gukira.

Umugabo ugeze mu myaka y'izabukuru, ari gupimwa umuvuduko w'amaraso hifashishijwe bimwe mu bikoresho byabugenewe, ndetse hari n'umuganga wabihuguriwe, uturutse mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, kugira ngo abashe kumwitaho, bityo amenye uburwayi afite.

Kimwe mu bigo bishinzwe gutanga serivisi z'ubuvuzi kiganwa n'abaturage baturutse mu bice bigiye bitandukanye by'Igihugu bityo bigafasha ubuzima bw'umuturage kumererwa neza.

Inyubako yahariwe serivisi z'ubuvuzi. Ifite ibyumba bitandukanye kugira ngo umurwayi abashe kwitabwaho. Aho twavuga nk'icyumba umurwayi aba ari kuruhukiramo ategereje ko yitabwaho, ndetse n'ikindi cyumba atangiramo ibizamini.

Inzu ishinzwe kuberamo inama zishinzwe guhugura abaganga ndetse n'abari muri ibyo bice birebana n'uko indwara zandura, ndetse zikitabwaho ku buryo umuturage ubuzima bwe bwarushaho kugenda neza.

Ikigo nderabuzima gifite ibyumba bitandukanye bibasha kwakirirwamo abarwayi bakanacumbikirwa mu gihe bibaye ngombwa kugira ngo barusheho kwitabwaho bityo uburwayi bwabo bukire ndetse babashe no gusezererwa.

Icyumba cyabugenewe kibarizwa mu kigo nderabuzima, kugira ngo kibashe gutanga serivisi z'ubuvuzi ku baturage bafite uburwayi butandukanye bakigana, harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa.

Umuganga wambaye bimwe mu bikoresho yifashisha abasha gusuzuma umurwayi, ari gutera urushinge umurwayi kugira ngo abashe kumurinda uburwayi afite, bityo abashe gukira ndetse arusheho kumererwa neza.

Inyubako ndende ifite ibyumba bitandukanye harimo n'icyumba gishinzwe gucururizwamo imiti no kwakira abarwayi batandukanye baturutse mu bice binyuranye, yakira abarwayi kugira ngo ibashe kubafasha.

Icyumba cyabugenewe, gishinzwe gutangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, byifashishwa kugira ngo babashe gukurikirana umuturage ufite uburwayi runaka, kugira ngo abashe gufashwa.

Umwe murubyiruko rwabihuguriwe, yicaye mu cyumba gishinzwe gutangirwamo serivisi z'ubuvuzi. Aho ategereje umurwayi ngo amusuzume, bityo amenye ikibazo afite.

Bimwe mu bikoresho byabugenewe bikoresha ikoranabuhanga, byifashishwa mu bitaro kugira ngo habashe kwitabwa ku murwayi bitewe n'uburwayi afite, bityo abashe gusuzumwa ndetse ahabwe imiti kugira ngo abashe gukira uburwayi afite.

Bimwe mu bikoresho bikoreshwa n'umuganga wabihuguriwe, birimo imiti aha umurwayi kugira ngo abashe gukira uburwayi afite ndetse na bimwe mu bikoresho by'isuku abasha kwambara kugira ngo abashe gukurikirana umurwayi.

Umurwayi aryamye ku gitanda cyabugenewe ndetse ari gufashwa n'umuganga wabihuguriwe, imbere yabo hari ibikoresho by'ikoranabuhanga umuganga yifashisha mu kugira ngo abashe gupima ndetse no kugenzura uburwayi umurwayi afite.

Umukobwa wambaye imyenda yo gukoresha siporo, yicaye mu cyumba cyabugenewe gikorerwamo siporo, aho ari muri siporo ngororamubiri, kugira ngo abashe kurwanya indwara ziterwa no kudakora siporo.

Icyumba cyabugenewe gishinzwe gutangirwamo serivisi z'ubuvuzi hateraniyemo abarwayi ndetse n'abaganga bashinzwe kubitaho aho abarwayi baryamishijwe ku bitanda byabugenewe kugira ngo babashe gusuzumwa ndetse babashe kwitabwaho kugira ngo bakire.

Umukobwa wambaye imyambaro yagenewe gukoreshwa siporo, afite tumwe mu dukoresho tw'ikoranabuhanga abasha kwifashisha mu gihe ari gukora siporo ndetse akaba ari gukora siporo yo kugorora amaguru ye, imbere ye hakaba harambitse icupa ririmo amazi.

Icyumba cyabugenewe mu kwakiramo abarwayi, gifite ibikoresho bitandukanye bikoresha ikoranabuhanga kugira ngo harusheho kurebera hamwe uko umurwayi abasha kwitabwaho ndetse akabasha guhabwa imiti bityo akarushaho gukira.

Umugabo wicaye ari kuruhuka avuye muri siporo, aho yari yambaye imyenda yabugenewe ikoreshwa siporo. Afite terefone mu ntoki ndetse n'icupa ry'amazi ari kunyweramo amazi kugira ngo ubuzima bwe burusheho kugenda neza.

Umukobwa wambaye imyenda yagenewe gukoreshwa siporo, ari gukora siporo zitandukanye zirimo nk'izo kugorora zimwe mu ngingo z'iwe harimo nk'amaboko, amaguru ndetse imbere ye hateretse icupa ry'amazi kugira ngo ajye abasha kunywaho.

Umugabo wambaye imyenda yagenewe gukoreshwa siporo, ari kunywa amazi anayimena mu maso, no mu mutwe hose, kugira ngo arusheho kumererwa neza, kandi anarusheho kurwanya indwara ziterwa no kudakora siporo, zirimo nk'umubyibuho ukabije n'izindi.

Umurwayi wicaye ku ntebe yabugenewe aho ari gukurikiranwa na muganga amuvura ku kaguru, aho ari kumuha imiti ndetse anamufasha kugirango abashe gutuma umubiri we ugubwa neza.

Umukobwa wambaye imyenda ya siporo nk'isengeri y'icyatsi kibisi n'ikabutura y'ubururu n'inkweto zabugenewe, ari gusunika agakoresho kabugenewe bakoreraho siporo yo kubaka umubiri, mu kibuga cyabugenewe.

Umwe mu baganga babihuguriwe ari kwita ku murwayi wambaye ikabutura y'umukara ndetse akaba anicaye ku gitanda, aho ari gupfukwa ku kaguru kugira ngo abashe kugabanyirizwa uburibwe.

Kimwe mu cyuma cyabugenewe cyifashishwa gikoreshwa kwa muganga, gikoresha ikoranabuhanga kugira ngo habashe kugira ubugenzuzi ku murwayi ndetse abashe kwitabwaho, bityo uburwayi bwe bubashe gukizwa.

Umusore uvuye muri siporo yambaye umupira ufite ibara ry'umweru ndetse akaba ari kunywa amazi kugirango ubuzima bwe burusheho kugenda neza, ahetse muri bimwe mu bikoresho yifashisha ari gukora siporo.

Umusore wambaye ikabutura aryamye ku gitanda cyabugenewe, aho umuganga wabihuguriwe ari kugorora akaguru kugirango abashe kureba uburwayi afite bityo arusheho no kumwitaho amukiza uburwayi afite.

Icyumba cyabugenewe gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku babyeyi babyara hateraniwemo abaganga ndetse icyo cyumba kikaba kirimo n'ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa kugira ngo umurwayi abashe kwitabwaho bityo akire.

Umurwayi wambaye ikabutura y'umukara n'umupira w'umukara, yicaye ku gatanda kabugenewe, aho ari gupimwa na muganga wambaye impuzankano, ndetse akaba ari kwitabwaho kugira ngo abashe gukizwa uburibwe.

Umukobwa uvuye muri siporo ari kunywa amazi ari mu icupa ry'ubururu, yitegeye izuba kugira ngo arushe kumererwa neza ahashya indwara ziterwa no kudakora siporo.

Umukobwa ari gukora siporo zo kugorora ingingo ze yambaye udukoresho bumviraho imiziki ndetse anambaye isaha ku kuboko aho yitegeye amazi magari.

Umusore wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ubururu yicaye aho amaze kubonana na muganga yazamuye ishati ye kugirango abashe gusuzumwa ku kaboko kwe kugirango barebe ko hakizwa uburwayi afite.

Ikibuga cyabugenewe gikorerwamo siporo, kirimo umumama ufite bimwe mu bikoresho yifashisha kugira ngo abashe kugenda, afite ubumuga ndetse harimo n'undi mugabo ufite umupira, wambaye n'imyenda yabugenewe ikoreshwa siporo.

Umukobwa wambaye imyenda yabugenewe ikoreshwa siporo, ari muri siporo yo kugorora ingingo, ndetse akanakanda n'imikaya, kugira ngo abashe guhashya indwara ziterwa no kudakora siporo.

Umugabo uvuye muri siporo, wambaye imyenda yabugenewe yo gukoresha siporo, afite icupa ry'amazi mu ntoki, aho ari kunywa amazi kugira ngo ngo abashe kurushaho kurwanya indwara ziterwa no kudakora siporo, ndetse no kubura amazi mu mubiri.

Umuganga ari gusuzuma umwana ukikiwe n'umubyeyi we ndetse na papa we uri aho hafi kugira ngo barebe ko amenyo ye ari ku murongo ndetse n'amenyo afite ikibazo babashe kuyakura cyangwa bayashakire ubundi buvuzi.

Icyumba cyagenewe gukorerwamo siporo, harimo umusore uryamye ku gitanda cyabugenewe, aho ari kugororwa anerekera siporo akorwa n'umuganga wabihuguriwe, kugira ngo arusheho guhashya, indwara ziterwa no kudakora siporo.

Umwana mutoya ari mu cyumba cyabugenewe, gitangirwamo serivisi zo gusuzuma abarwayi, aho uwo mwana bari kumupima ngo barebe ko nta kibazo cy'amenyo afite, bityo abashe kwitabwaho kugira ngo akire uburwayi afite.

Siporo igira uruhare rukomeye mu buzima bwa muntu, cyane ko yifashishwa mu kurinda indwara zirimo nk'umuvuduko w'amaraso, diyabete, umubyibuho ukabije n'izindi zigiye zitandukanye.

Umusore wambaye imyambaro yahariwe gukoresha siporo, afite bimwe mu bikoresho by'ikoranabuhanga abasha gukoresha mu gihe ari gukora igikorwa cya siporo ndetse imbere ye harambitse icupa ririmo amazi, mu gihe we ari gukora siporo zo kugorora amaguru ye.

Umugabo uvuye muri siporo aryamye ku gatanda kabugenewe ko kwa muganga, aho ari gusuzumwa na muganga wabihuguriwe kugira ngo abashe kumugezaho uko ubuzima bwe buhagaze n'uko yakomeza kwirinda indwara zitandukanye.

Bimwe mu byifashishwa hakorwa siporo ndetse n'ibiribwa umuntu ashobora gufata iyo avuye mu gikorwa cya siporo harimo amazi, hakabamo imbuto zitandukanye zirimo imineke, amatunda n'ibindi.

Umusore wambaye umupira ufite ibara ry'ubururu, ari kunywa amazi, aho avuye muri siporo kugira ngo abashe kurwanya indwara ziterwa no kudakora siporo, zirimo umubyibuho ukabije, diyabete n'izindi.

Icyumba cyabugenewe gikorerwamo siporo, kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga byifashishwa n'abarwayi ndetse n'abantu batandukanye bari gukora siporo kugira ngo babashe kurushaho kumererwa neza.

Umusore wambaye umupira w'icyatsi kibisi, yicaye yashyize akaguru kugira ngo muganga we wambaye ishati y'umweru abashe kumusuzuma ndetse amukize akaguru k'iwe.

Umukobwa wambaye umupira utukura ari kunywa amazi, akaba avuye muri siporo ndetse akaba afite n'utwuma tumwe tw'ikoranabuhanga yifashisha ari muri siporo anumva imiziki.

Bamwe mu bana bateraniye mu kibuga cyabugenewe gikorerwamo siporo, aho bari gukora siporo ndetse bakaba bafite abantu bari kubererekera kugira ngo barusheho gukora siporo neza bityo biririnde indwara ziterwa no kudakora siporo.

Umukobwa uvuye muri siporo wambaye imyenda yabugenewe ikoreshwa siporo, ari kunywa amazi ndetse akaba afite bimwe mu bikoresho by'ikoranabuhanga, yifashisha kugira ngo abashe kurushaho gukora siporo neza bityo ibashe kugirira umumaro umubiri we.

Imiti n'udukoresho twifashishwa kwa muganga kugira ngo babashe kuvura, tugomba kubikwa ndetse tukanashyirwa ahantu habugenewe mu gikapu cyangwa se ahandi kugira ngo ubuziranenge bwatwo busigasirwe.

Bimwe mu bikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa hasuzumwa abarwayi kugira ngo babashe kureba ibipimo byabo hagendewe ku ndwara bagiye bafite zigiye zitandukanye.

Umugabo wambaye umupira ufite ibara ry'umweru, yicaye ku intebe bityo akaba ategereje muganga umaze kumusuzuma ngo aze amugezeho ibipimo yamufashe n'uko bihagaze.

Umurwayi umaze gupfukwa, yicaye ku gitanda, aho amaze gupfukwa n'umuganga wabihuguriwe, kugira ngo abashe kumukiza uburibwe bw'igikomere ndetse akomeze kumera neza.

Umusore uvuye muri siporo, afite icupa ry'amazi mu ntoki, ndetse akaba afite na bimwe mu bikoresho by'ikoranabuhanga, abasha kwifashisha mu gihe ari muri siporo, kugira ngo siporo ye ibashe kugenda neza, bityo arusheho guhangana n'indwara ziterwa no kudakora siporo.

Abasore batandukanye bari bari mu gikorwa cya siporo mu kibuga cyabugenewe gikorerwamo siporo, umwe muri bo yagize ikibazo aho aryamye mu kibuga, akaba ari kwitabwaho n'abaganga babihuguriwe kugira ngo babashe kumenya imvune afite uko ihagaze.

Umukobwa wambaye imyenda yabugenewe ikoreshwa siporo, ari mu cyumba cyabugenewe gikorerwamo siporo, aho ari gukora siporo zigorora amaguru ye ndetse zikanagorora bimwe mu bice by'umubiri we.

Icyumba cyabugenewe gitangirwamo serivisi zo gusuzumirwamo abarwayi, hateraniyemo abaganga bagera kuri batanu, aho bambaye imyenda y'ubwirinzi ndetse banafite bimwe mu bikoresho bifashisha.

Imiti kugira ngo ibashe kuvura umurwayi, ibasha kwitabwaho hagenzurwa aho ibikwa ndetse kugira ngo babashe kurinda ubuziranenge bw'iyo miti bityo ibashe guhabwa umurwayi kugira ngo akire uburibwe afite.

Imiti ndetse n'utundi dukoresho dukoreshwa kwa muganga tugomba kubikwa ahantu habugenewe kugira ngo habashe gusigasira ubuziranenge bw'iyo miti bityo bibashe kugira umusaruro mu gihe umurwayi ari gufashwa.

Umukobwa wambaye imyenda yo gukoresha siporo, ari mu cyumba cyabugenewe gikorerwamo siporo ndetse akaba ari gukora siporo nk'izo kugorora umubiri kugira ngo arusheho kurwanya indwara ziterwa no kudakora siporo, zirimo nka diyabete ndetse n'umuvuduko ukabije w'amaraso.

Umugabo wambaye umupira ufite ibara ry'umweru akaba ari gukora siporo akoresheje imyenda yabugenewe yo gukoresha siporo ndetse ari gukora siporo zirimo nko kugorora amaguru ndetse no kugorora amaboko kugirango arusheho kwirinda indwara ziterwa no kudakora siporo.

Siporo ngororamubiri zirimo guhagarara ku kaguru kamwe, kugendera ku kaguru kamwe, ndetse n'izindi siporo ngororamubiri zitandukanye, zifashishwa hagendewe mu guhashya indwara zirimo nk'umubyibuho ukabije n'izindi.

Kimwe mu bikoresho by'isuku byifashishwa no kwa muganga, hitabwa ku murwayi, hagendewe kuba umuturage yagira ubuzima buzira umuze ndetse agakomeza imirimo ye yubaka igihugu.

Umusore wambaye imyenda yabugenewe ikoreshwa siporo, yicaye mu busitani ndetse akaba ari gukora siporo ngororamubiri aho ari kwirinda indwara ziterwa no kudakora siporo nk'umubyibuho ukabije.

Imiti kugirango ifashe umurwayi, hasabwa ko iba yabitswe neza, kugirango itaza guta ubuziranenge bwayo hagendewe mu dukoresho ibikwamo, ahantu ibikwa se, n'ibindi.

Bimwe mu biribwa bifasha umubiri w'umuntu iyo avuye muri siporo, harimo imitobe igiye itandukanye, harimo nk'umutobe w'inanasi, amazi ndetse n'imbuto zitandukanye zirimo imineke, inkeri n'ibindi.

Umusore uvuye muri siporo, ari kunywa amazi ndetse akaba yambaye imyenda yabugenewe yo gukoresha siporo kugira ngo arusheho guhashya indwara ziterwa no kudakora siporo zirimo umubyibuho ukabije, umuvuduko ukabije w'amaraso ndetse n'izindi zitandukanye.

Umukobwa wambaye imyenda yabugenewe gukoresha siporo, ari gukora siporo aho ari mu cyumba cyabugenewe ndetse afite bimwe mu bikoresho byabugenewe akoreraho siporo, aho ari gukora siporo zimwe na zimwe zirimo nko kugorora amaboko ndetse n'amaguru.

Bimwe mu bikoresho byifashishwa hakorwa siporo ndetse n'imbuto umuntu afata iyo amaze gukora siporo harimo nk'imineke, pome, amacunga ndetse n'ibindi.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga bikoreshwa kwa muganga kugira ngo hitabwe ku buzima bw'umurwayi, hagenzurwa uburwayi afite kugira ngo abashe kugabanyirizwa uburibwe, ndetse akomeze kwitabwaho.

Umwe mu rubyiruko yambaye ipantaro yumukara aho ari kugororwa mu ngingo nk'umuganga wabihuguriwe akaba yambaye impuzankano isa n'ibara ry'ubururu akaba ari kumusuzuma ikibazo cye afite.

Imodoka zizwi nk'imbangukiragutabara, zifashishwa kugira ngo umurwayi abashe kuvanwa aho yarembeye, kugira ngo agezwe ku bitaro bimwegereye mu buryo bwihuse, kugira ngo abashe gukurikiranwa.

Bimwe mu bikoresho byifashishwa n'abantu bafite ubumuga, harimo akagare bifashisha bava ahantu hamwe bajya ahandi, kugira ngo babashe gukora imirimo yabo ya buri munsi, bityo bagire umusaruro.

Bamwe mu rubyiruko rwiganjemo abasore n'inkumi, bavuye mu gikorwa cya siporo, bari kunywa amazi ndetse bahashya zimwe mu ndwara ziterwa no kutanywa amazi, ndetse n'iziterwa no kudakora siporo.

Bimwe mu bifasha umuntu kugira ngo akore siporo ni ukuba afite ibikoresho byabugenewe akoresha akora siporo ndetse hakaba hari n'ibyo kurya biri bwunganire umubiri wiwe nyuma yo gukora siporo, birimo nk'avoka, pome ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umukobwa wambaye imyenda ya siporo ari gukora siporo zo kugorora umubiri we mu ngingo ndetse no mu bindi bice by'umubiri we kugira ngo arusheho kumererwa neza ahashya indwara ziterwa no kudakora siporo zirimo nka diyabete, umuvuduko ukabije w'amaraso n'ibindi.

Umusore uvuye gukora siporo ari kunywera amazi mu icupa risa nk'ubururu, akaba yambaye umupira usa nk'ikigina akaba avuye muri siporo kugira ngo arusheho gutuma umubiri we ugubwa neza.

Umukobwa uvuye gukora siporo ari kunywa amazi, aho yambaye imyenda yabugenewe yo gukoresha siporo kugirango abashe kurandura indwara ziterwa no kudakora siporo.

Icyumba cyabugenewe gitangirwamo serivise z'ubuvuzi harimo umurwayi uryamye ku gitanda cyabugenewe, umanitse akaguru, akikijwe n'abaganga babihuguriwe, aho bari kumusuzuma kugira ngo babashe kumukiza uburwayi afite.

Umukobwa uvuye muri siporo, wambaye imyenda yabugenewe yo gukoresha siporo ndetse akaba afite n'icupa risa nk'umweru mu ntoki ye, akaba ari kurinyweramo amazi.

Icyumba giteraniyemo umwana ndetse n'umubyeyi we, aho muganga wabihuguriwe ari gusuzuma uwo mwana, bityo abashe kureba uburwayi afite, abashe kumuha imiti kugira ngo amukize uburibwe.

Umugore wambaye imyenda ikoreshwa siporo, ari muri siporo yo kugorora ingingo ze nk'akaguru ndetse akaba ari no gukora siporo zitandukanye kugira ngo abashe kurwanya indwara ziterwa no kudakora siporo.

Icyumba cyabugenewe gitangirwamo serivise z'ubuvuzi by'umwihariko ku buvuzi bw'abana batoya, hateraniyemo umubyeyi ndetse n'umuganga wabihuguriwe kugira ngo abashe gufasha uwo mwana bityo arusheho kugenda neza.

Imwe mu miti igiye itandukanye ishinzwe kugabanyiriza umurwayi uburibwe, yegerejwe kuri buri bitaro ndetse abaturage bishimira yuko iyo miti ibafasha ndetse bagakomeza kumererwa neza.

Umusore wambaye imyenda yabugenewe gukoresha siporo, yambaye isaha ndetse akaba ari gukora siporo zo kugorora zimwe mu ngingo ziwe kugira ngo arusheho guhashya indwara ziterwa no kudakora siporo zirimo umubyibuho ukabije n'izindi.

Umukobwa wambaye imyenda yagenewe gukoreshwa siporo afite bimwe mu bikoresho by'ikoranabuhanga bimufasha mu gukora siporo ndetse akaba ari gukora siporo zo kugorora amaboko ye ndetse na bimwe mu bice by'umubiri we kugira ngo arusheho kumererwa neza.

Imiti n'udukoresho twabugenewe dukoreshwa kwa muganga, dufite uburyo tubikwamo nko kubikwa mu gikapu kugira ngo basigasire ubuziranenge bw'iyo miti n'utwo dukoresho tundi dukoreshwa kwa muganga.

Umugabo ugeze mu myaka y'izabukuru. Ari mu cyumba cyahariwe gukorerwamo siporo, aho ari gukora siporo ndetse akaba ari kumwe n'umuganga wabihuguriwe ari kumwerekera uko yakora siporo kugira ngo arusheho kurinda umubiri we indwara zitandukanye.

Umwe mu rubyiruko ruvuye muri siporo, ari gupimwa kugira ngo harebwe ko nta ndwara afite mu mubiri we n'umuganga wabihuguriwe ndetse anamuhugura uko yarushaho kwirinda.

Umusore wambaye imyenda yabugenewe ikoreshwa siporo ,yicaye mu buryo ari gukora siporo agorora amaguru ye, ndetse akanagorora amaboko ye kugira ngo arusheho kwirinda indwara ziterwa no kudakora siporo.

Umugabo wicaye ku ntebe yabugenewe mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuzima, ari kumwe na muganga we ndetse muri icyo cyumba harimo ibikoresho byifashishwa kugira ngo umurwayi abashe kwitabwaho.

Umwe mu miti ifunzwe neza wifashishwa babasha kuvura uburwayi burimo nko kuvunika kw'ingingo ndetse n'uburibwe hagati mu ngingo, ufunze neza ku bipimo byabugenewe kugira ngo ubashe gufasha umurwayi.

Umusore wicaye mu busitani, wambaye imyenda yo gukorana siporo, ari kugorora ingingo ze yikanda mu mikaya y'akaguru no ku itako kugirango arusheho guhashya indwara ziterwa no kudakora siporo.

Icyumba cyabugenewe mu gukorerwamo siporo, hateraniyemo umusore ndetse n'undi mukobwa, aho uwo musore afite ibikoresho byabugenewe byo gukoresha siporo ndetse uwo mukobwa ari kumwerekera siporo abasha gukora.

Umwe mu rubyiruko rwambaye imyenda yabugenewe ikoreshwa siporo ari mu cyumba gikorerwamo siporo, aho ari gukora siporo zirebana no kugorora ingingo ye ndetse n'imikaya.

Umukobwa wambaye imyenda yo gukoresha siporo ari gukora siporo ngororamubiri zirimo izo kwinanura ndetse no kwigorora kugira ngo abashe kurushaho kurwanya indwara zibasira umubiri.

Umukobwa uvuye gukora siporo, yambaye imyenda yabugenewe ikoreshwa siporo, ari kunywa amazi yitegeye izuba rimurasira ndetse n'amazi magari kugira ngo umubiri we ukomeze kugubwa neza.

Umugabo wambaye umupira ufite ibara ry'umweru n'ikabutura ifite ibara ry'icyatsi kibisi, aryamye ku gatanda, aho ari kwitabwaho n'umuganga wabihuguriwe kugira ngo abashe kumenya uko ubuzima bwe buhagaze.

Icyumba cyabugenewe gisuzumirwamo abarwayi baturutse mu bice bitandukanye, kirimo ibikoresho by'isuku kugira ngo barusheho kunoza serivisi zihabwa umurwayi.

Ibyumba byabugenewe kwa muganga birimo ibikoresho bitandukanye bikoresha ikoranabuhanga kugira ngo uwo murwayi abashe kurushaho kwitabwaho ndetse harebwe uburwayi afite bityo abone gusuzumwa kugira ngo abashe gukira.

Bimwe mu bimera tubona bihingwa mu murima byifashishwa hakorwamo imiti yifashishwa kwa muganga kugira ngo umurwayi abashe kwitabwaho ndetse abashe no gukira kugira ngo agirire umumaro umuryango avukamo.

Ibimera birimo ibyatsi byera mu murima, bishobora kwifashishwa mu gukora imiti kugira ngo haremwe ubudahangarwa bwo guhashya indwara umurwayi afite bityo abashe kumererwa neza.

Bimwe mu bimera byera mu butaka, byifashishwa hakorwamo imiti ndetse hakanakorwamo amavuta yo kwisiga, ashobora kurinda umuntu uburwayi afite ku ruhu rwe ndetse akanarushaho gutanga umusaruro mu buzima bwe ndetse no ku gihugu.

Bimwe mu bimera byera mu murima, byifashishwa hakorwamo imiti ihabwa umurwayi kwa muganga kugira ngo abashe gukira uburibwe n'indwara afite, bityo abashe kugirira umumaro umuryango atuyemo.

Bimwe mu bimera byera mu murima, harimo nk'ibiti, ibyatsi se n'ibindi, byifashishwa hakorwamo imiti, yifashishwa mu kuvura abarwayi, bakarushaho kugubwa neza, bagatanga umusaruro wo kubaka igihugu cyabo.

Imwe mu miti yifashishwa mu kurandura indwara zananiranye, ikorwa hashingiwe ku bimera bifite imbaraga kamere mu guhashya izo ndwara, bikifashishwa n'abaganga kugira ngo umuturage avurwe.

Ibinini byifashishwa kwa muganga bigahabwa abarwayi, kugira ngo bagabanyirizwe uburibwe, kugira ngo bikorwe hifashishwa bimwe mu bimera, kugira ngo bikorwe aho usanga ibyo bimera bifite ubudahangarwa mu guhashya indwara.

Imiti iri mu bubiko bwayo bitewe n'uko igenda irutanwa, aho yifashishwa kugira ngo babashe kuyiha abarwayi bafite uburibwe butandukanye bityo babashe koroherwa.

Bamwe mu basore n'inkumi bari muri siporo zo kurira imisozi itandukanye, kugira ngo barusheho guhashya indwara ziterwa no kudakora siporo. Bafite bimwe mu bikoresho byifashishwa kugira ngo babashe gukora iyo siporo yo kurira ahantu hatandukanye.

Bimwe mu bimera byifashishwa hakorwamo imiti gakondo, ibasha kunganira imiti ya kizungu, kugira ngo ibashe guhabwa umurwayi bityo akire uburwayi afite arusheho kubaka umuryango abarizwamo ndetse n'igihugu muri rusange.

Imizi y'ibiti ndetse n'ibimera bitandukanye, byifashishwa hakorwa imiti yifashishwa n'abaturage kugira ngo babashe gukira uburwayi bafite, bityo bakarushaho kumererwa neza mu buzima bwabo.

Bimwe mu bimera byera mu murima byifashishwa n'inzobere mu gukora imiti, bityo bikabasha kubyazwa umusaruro bikorwamo imiti ibasha guhabwa abarwayi, bityo bakarushaho gukira uburwayi bafite, ndetse bakagira n'umusaruro mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Imwe mu miti ishinzwe gufasha umurwayi, ikorwa hagendewe ku bimera bifite imbaraga kamere kugira ngo bigire uruhare mu gutegurwa kw'iyo miti ndetse bibe byahashya iyo ndwara.

Bimwe mu byatsi byera mu murima, byifashishwa hakorwamo imiti ibasha guhabwa umurwayi kugira ngo arusheho koroherwa, bityo akire uburwayi afite kugira ngo arusheho kumererwa neza mu buzima bwe ndetse arusheho no kwiyubakira igihugu.

Bimwe mu bimera byera ku butaka birimo nk'igikakarubamba ibasha kwifashishwa mu gukora ibintu bitandukanye birimo nk'amavuta, imiti ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye byose bibasha kugira uruhare mu mibereho myiza ya muntu.

Bimwe mu biti ndetse n'ubundi bwoko bw'ibimera, byifashishwa hakorwamo imiti tubona kwa muganga ihabwa abaturage bafite uburwayi runaka. Muri ibyo biti ndetse n'ibimera bitandukanye twavugamo nka tangawizi, avoka, ibijumba ndetse n'ibindi.

Bimwe mu bimera byifashishwa hakorwamo imiti izwi ku izina ry'imiti gakondo, kugira ngo ibashe kunganira imiti ya kizungu, bityo ibashe guhabwa umurwayi akire uburwayi afite ndetse arusheho kumererwa neza.

Bimwe mu bimera byera mu butaka, byifashishwa mu gukora imiti ihabwa abarwayi, bityo bakarushaho gukira, ndetse bakabasha kugirira umumaro umuryango baturukamo n'igihugu cyabo muri rusange.

Bimwe mu bimera birimo ibiti, ibyatsi ndetse n'ibindi bitandukanye byifashishwa hakorwamo imiti yifashishwa n'abarwayi kugira ngo babashe gukira uburwayi bwabo bityo babashe kwigirira akamaro.

Imwe mu miti ishinzwe gufasha abarwayi bafite ibibazo bitandukanye, ikomoka mu bimera byifitemo imbaraga karemano zo kuba byakumira uburwayi, ndetse n'uburibwe abarwayi bafite.

Bimwe mu bimera byera ku butaka, byifashishwa hakorwamo imiti, ifashishwa kwa muganga ikabasha guhabwa abaturage bafite uburwayi butandukanye, bityo bakabasha gukira ndetse bakubaka igihugu.

Imwe mu miti ikorwa kugira ngo ibashe guhabwa abarwayi, ikorwa mu bimera twavuga nk'igikakarubamba kugira ngo kibashe gutanga izo mbaraga karemano mu guhashya indwara uwo murwayi afite.

Imiti ikorwa hifashishije bimwe mu bimera ndetse n'ibindi bihingwa bya gakondo, ibasha kugira umusaruro aho ihabwa abarwayi kugira ngo bakire uburwayi bafite, bityo barusheho kugirira umumaro.

Ibimera byifashishwa hakorwamo imiti ihabwa abarwayi kwa muganga kugira ngo babashe gukira uburwayi bafite bityo barusheho kwigirira akamaro ndetse no kugirira akamaro igihugu baturukamo kugira ngo barusheho kubaho neza.

Imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, yifashishwa n'abarwayi bagiye bamererwa nabi, bityo bakarushaho kumererwa neza.

Indimu tangawizi byifashishwa hakorwa icyayi cyangwa umutobe, ubasha kuvura ndetse ukanafasha umurwayi gukira indwara zirimo nk'inkorora...

Amababi aturutse ku giti, yifashishwa hakorwamo imiti ibasha gufashishwa abarwayi bafite uburwayi butandukanye kugira ngo babashe gukira kandi bamererwe neza.

Imiti ifunze neza ku bipimo byabugenewe, ikozwe mu bimera, yifashishwa n'abarwayi batandukanye bitewe n'uburwayi bafite kugira ngo babashe kuyikoresha bityo bamererwe neza.

Imwe mu miti yifashishwa n'abarwayi bikorwa haturutse ku bimera bifite imbaraga kamere mu guhashya indwara zigiye zitandukanye bityo bigatuma umurwayi arushaho kumererwa neza.

Bimwe mu byatsi ndetse n'imizi y'ibiti, byifashishwa hakorwamo imiti ibasha kuvura indwara zitandukanye, bityo umurwayi akabasha kumererwa neza ndetse akabasha gukira indwara ze burundu.

Imwe mu miti ihabwa umurwayi ikorwa hakoreshejwe ibimera bitandukanye byifitemo imbaraga karemano mu guhashya indwara umurwayi yaba afite uko yaba iri kose kugira ngo abashe gukira.

Imwe mu miti ikorwa, hakoreshejwe ibimera karemano nk'ibyatsi, ibiti ndetse n'ubundi bwoko bw'ibimera, byifashishwa kugira ngo umurwayi abashe gukira uburwayi bwe.

Bimwe mu bimera byera mu murima, bishobora kwifashishwa hagamijwe mu gukora imiti bityo igahabwa abarwayi, bakarushaho guhashya indwara bafite bitewe n'uko zabafashe.

Bimwe mu bimera bitandukanye, byifashishwa hakorwamo imiti izwi nk'imiti ya gakondo, ibasha kunganira imiti ya kizungu, kugira ngo ihabwe umurwayi bitewe n'uburwayi afite, bityo arusheho gukira uburwayi ndetse arusheho gusubira mu buzima bwe bwa buri munsi.

Ibyatsi ndetse n'ibindi bimera bitandukanye byifashishwa hakorwamo imiti dukoresha kwa muganga kugira ngo ibashe guhabwa umurwayi, bityo ubuzima bwe bubashe guhinduka akire ndetse arusheho gutanga umusaruro ku muryango we.

Bimwe mu bimera bitandukanye byifashishwa hakorwa imiti ya gakondo kugira ngo ibashe kunganira imiti ya kizungu, bityo umurwayi arusheho kumererwa neza, akira uburibwe afite ndetse n'indwara afite kugira ngo arusheho kwiyubakira umuryango we n'igihugu abamo.

Imiti gakondo iri mu miti irwanya ikanahashya indwara zigiye zitandukanye, cyane ko hari ibimera byifitemo imbaraga mu guhashya indwara, aho twavugamo nka tangawizi ndetse n'ibindi.

Inzuki zigira uruhare rukomeye mu gukora ubuki bwifashishwa na bamwe mu barwayi bafite uburwayi butandukanye, cyane ko ubuki buvura indwara zitandukanye.

Bimwe mu bimera bitandukanye, byifashishwa hakorwamo imiti gakondo ibasha kunganira imiti yindi isanzwe ihari, kugira ngo babashe gufasha umurwayi, bityo akire ndetse arusheho kugira ubuzima bwiza yiyubakira Igihugu ndetse agirira n'akamaro umuryango aturukamo.

Imwe mu miti gakondo ikorwa iturutse ku bimera bya kimeza, yifashishwa n'abarwayi kugira ngo babashe guhashya uburibwe ndetse n'uburwayi bafite kugira ngo bakire.

Bimwe mu bimera byifashishwa hakorwamo amavuta yo kwisiga ndetse n'amavuta yo kuribwa afashwa n'umuntu ufite uburwayi cyangwa se ikindi kibazo gitandukanye, kugira ngo abashe kurushaho kumererwa neza.

Mu bimera bibasha kwifashishwa hakorwa imiti gakondo ibasha gufasha umurwayi mu gihe imiti ya kizungu itari kugira icyo ibasha kumufasha, kugira ngo abashe gukira uburwayi afite, ndetse anarusheho kubaka umuryango abarizwamo.

Ubuhinzi buri mu gikorwa gikwiye kwitabwaho cyane cyane ko iyo kititaweho ntibitanga umusaruro, aho twavugamo nk'ubuhinzi bw'ipera, amatunda ndetse n'ibindi bihingwa bisaba ko hashyirwamo ifumbire.

Bimwe mu biba bitandukanye birimo nk'umwenya, byifashishwa hakorwa icyayi gishobora kuvura umurwayi bitewe n'uburwayi afite, harimo nk'ibicurane inkorora n'ubundi burwayi butandukanye.

Ibimera bigira uruhare rukomeye mu mibereho myiza ya muntu, dore ko hari ibimera bikorwamo imiti yifashishwa mu guhashya indwara zigiye zitandukanye zifata umubiri wa muntu.

Bimwe mu bimera bitandukanye byifashishwa mu gukora amavuta yo kwisiga abasha kugira uruhare rukomeye mu kuvura indwara zibasira uruhu bityo umurwayi akarushaho kumererwa neza.

Imiti kuira ngo ifashe umurwayi, hagenderwa kuba umurwayi yanyweye ibupimo uko byatanzwe neza na muganga, ndetse n'uko muganga yamutegetse kwitwara kugira ngo akire.

Imwe mu miti yifashishwa kwa muganga ihabwa abarwayi kugira ngo babashe gukira, ikorwa hakoreshejwe bimwe mu bimera byifitemo imbaraga kamere, mu guhashya indwara, bityo bigahabwa abarwayi.

Bimwe mu bihingwa bitandukanye harimo nk'umuravumba ubasha gukorwamo umuti uzwi ku izina ry'umuti gakondo ubasha kunganira imiti ya kizungu, ubasha kuvura umurwayi bitewe n'uburwayi afite ndetse bukanavura indwara zitandukanye.

Bimwe mu bimera bitandukanye birimo igikakarubamba, byifashishwa hakorwamo imiti, amavuta ndetse n'ibindi bintu bitandukanye bibasha gufasha uruhu ndetse n'umubiri muri rusange kugira ngo ubashe kumererwa neza bitewe n'uko igikarubamba gifitemo imbaraga kamere.

lbinini bihabwa abarwayi baje kwifuza kwa muganga, kugira ngo bikorwe hifashishwa bimwe mu bimera byifitemo imbaraga karemano zo kuba byahashya indwara ndetse umurwayi akarushaho kumererwa neza.

Imwe mu miti yabugenewe mu guhabwa abana bakiri batoya igomba kuba ifunze neza ndetse ikanashyirwa ahantu hatari ubushyuhe bwinshi cyangwa ubukonje bwinshi kugira ngo harusheho kwibandwa ku buziranenge bwayo bityo ibashe kuvura umurwayi.

Bimwe mu bimera byera mu murima, birimo ibyatsi n'ubundi bwoko bw'ibimera butandukanye, bwifashishwa hakorwamo imiti ibasha guhabwa abaturage bitewe n'ibibazo bafite, bakabasha gukira.

Bimwe mu bimera ndetse n'ibihingwa twavuga nk'ikawa, byifashishwa hakorwa ibisa nk'imiti kugira ngo bibashe kunganira umurwayi ku burwayi afite bityo abashe gukira abashe kubaho neza.

Ibimera bitandukanye, byifashishwa hakorwamo imiti gakondo, yunganira indi miti kugira ngo ibashe gukiza umurwayi uburwayi afite, bityo arusheho kumererwa neza atanga umusaruro mu muryango akomokamo, ndetse n'igihugu abarizwamo.

Imiti ndetse n'aho ibikwa bikwiye kwitonderwa, bitewe n'uko iyo bititaweho imiti itakaza ubuziranenge bwayo, bityo ntitange ubuvuzi ku muturage ufite indwara arwaye runaka.

Bimwe mu bimera byera mu butaka byifashishwa hakorwamo imiti irimo nk'ibinini baha umurwayi bityo akabasha gukira uburwayi bwe akarushaho kumererwa neza ndetse akubaka igihugu n'umuryango aturukamo.

Bimwe mu bimera byera mu murima, byifashishwa hakorwamo imiti ibasha gufasha abarwayi, bityo bagakira uburwayi bwabo, bakarushaho kumererwa neza ndetse bakubaka igihugu.

Bimwe mu bimera birimo ibyatsi, ibiti n'ibindi byifashishwa hakorwamo imiti yifashishwa kwa muganga kugira ngo babashe gufasha abarwayi bityo barusheho gukira uburwayi bafite.

Bimwe mu bimera byifashishwa habasha gukorwa amavuta yo kwisiga ndetse akabasha gukiza indwara zifata uruhu, bityo umurwayi akarushaho kumererwa neza bitewe n'iyo miti yabonye.

Umwe mu miti ikoreshwa itanga ubuvuzi ku murwayi irerekana ibipimo byayo ndetse n'ingano yaho igomba kubikwa, ibipimo by'ubushyuhe n'ubukonje bitagomba kurenga.

Bimwe mu byatsi ndetse n'ibimera bitandukanye, byifashishwa hakorwamo imiti tubona kwa muganga ihabwa abarwayi kugira ngo babashe kumererwa neza ndetse babashe gukira, ubuzima bwabo burusheho kugenda neza.

Ibimera bigira uruhare rukomeye ku nyamanswa ndetse n'ubuzima bwa muntu hagendewe ko hari ibimera bitanga umwuka, hari ibimera bifata ubutaka ndetse kandi n'ibikorwamo imiti.

Bimwe mu bimera birimo imbuto zitandukanye, byifashishwa hakorwamo imiti ihabwa abarwayi, kugira ngo babashe gukira uburwayi bafite, muri izo mbuto twavugamo nk'indimu, aho indimu ishobora kwifashishwa mu gukorwa kw'imiti itandukanye, kugira ngo umurwayi akire.

Ibimera bigira uruhare mu mibereho myiza y'umuntu, hagendewe ko hari ibimera bikorwamo imiti, hakaba ibimera bishinzwe gufata ubutaka ndetse n'ibitanga umwuka mwiza.

Bimwe mu bimera bitandukanye, byifashishwa hakorwamo imiti ibasha kunganira abaturage bafite uburwayi bityo bakabasha gukira ndetse bakanagabanyirizwa uburibwe n'iyo miti.

Bimwe mu bimera biterwa mu butaka, byifashishwa hakorwamo imiti iterwa abaturage, bityo bakabasha gukira uburwayi bafite, bakarushaho gutanga umusaruro.

Imwe mu miti ikorwa hakoreshejwe ibimera karemano, bigizwe ibiti ndetse n'ibyatsi, byifashishwa kugira ngo habashe kurema ubudahangarwa bw'imiti kugira ngo bwifashishwe mu guhashya indwara.

Bimwe mu biti ndetse n'ibyatsi byera mu murima, byifashishwa hakorwamo imiti ivura ikanakiza ubu buriribwe umurwayi afite kugira ngo abashe kumererwa neza ndetse atange umusaruro mu muryango we.

Ibyatsi biri mu murima ndetse n'ibiti bitandukanye, byifashishwa hakorwamo imiti tubona kwa muganga, bityo bikabasha guhabwa abarwayi, bityo bakabasha gukira ndetse bakarushaho gutanga umusaruro.

Ibimera byifashishwa hakorwamo imiti gakondo, ibasha kunganira imiti ya kizungu, kugira ngo umurwayi abashe gukira uburwayi afite, bityo arusheho gukomeza kwiyubakira umuryango atuyemo ndetse n'igihugu abamo.

Imiti iboneka hifashishijwe ibimera bitandukanye, muri ibyo bimera harimo nka tangawizi, imizi y'ibiti itandukanye ndetse n'ubundi bwoko bw'ibiti byifitemo imbaraga karemano mu kubasha gukumira indwara bityo umurwayi akarushaho gukira.